Umugore ucigatiye umwana, yambaye agapfukamunwa k'ubururu, akaba yambaye n'amaherena. Afite umusatsi wa menshi yazirikiye inyuma. Ni byiza cyane ko tugomba kwita ku bana bacu kuko ari ingirakamaro cyane.

Umwana ukiri muto wambaye imyambaro y'umweru aho yagiye kuvoma ku ivomero rusange yitwaje indobo zisa umweru zigera muri eshatu. Ariko nta muntu afite uramupombera kugira ngo amazi abashe kuza.

Abagore bagera muri batatu bakaba bicaye ku ntebe, imbere yabo hari umuganga uri kugenda agushyiraho icyuma ku kizigira cy'ukuboko, kugira ngo apime umuvuduko w'amaraso wawe uko uhagaze.

Abana bagera muri batatu bari gukaraba intoki kuri robine, bose bambaye impuzu z'impuzankano zisa bigaragara ko ari abanyeshuri. Ni byiza rero gutoza umwana gukaraba intoki hakiri kare.

Amafoto y'abantu bagera muri batanu, harimo abagore babiri, ndetse n'abagabo batatu, bakaba batubwira ko aribo bazaba bari gukoresha inama izaba ku wa kabiri, ku itariki makumyabiri neshanu z'ukwa gatanu, kuva saa saba kugera saa munani.

Abantu benshi cyane bahuriye ku ivomero rusange, iryo vomero rusange rikaba rifite inzu yubatse iri mu mabara y'ubururu ndetse n'umweru, abo bantu harimo abamama ndetse n'umukobwa umwe, baje gushaka amazi.

Umwana muto, wambaye agapira k'umutuku, wirabura, ari guseka, akaba ari kwikorera ikijerekani gishaje kiriho icyapa cyanditseho Unicef, hari n'umugabo wambaye iby'ubururu, uri kukimukorera ari guseka.

Inama yabaye yateranyije abantu b'ingeri nyinshi harimo abaporisi n'abandi bantu basanzwe, bicaye ahantu mu itente aho bakweze bataka bakoresha ibitambaro biri mu mabara y'ibendera ry'u Rwanda ubururu, umuhondo n'icyatsi, imbere hahagaze umugabo ufite mikoro ari kubigisha, inyuma yabo hari igitambaro kiri kwamamaza.

Umugabo wambaye ikositimu ndetse na karuvati, ahagararanye n'umukobwa w'umuzungu wambaye agapira k'umweru n'ipantaro y'umukara, bafashe igikapu mu ntoki cyanditseho ngo sura u Rwanda.

Ni ku ivomero rusange aho hari abaturage benshi bahateraniye. Hari n'umugabo w'umutekinisiye uri kuhakora, yafunguye rimwe imigezi ibiri iri gusohora amazi, ari kubereka ukuntu ikora neza.

Icyapa cyanditseho amagambo agiye atandukanye ndetse ari mu ibara ry'umukara, hariho n'ijanisha ku ijana, aho hariho cumi na kabiri ku ijana, mirongo irindwi na gatanu, rimwe, ijana na mirongo itanu na kabiri ndetse na makumyabiri na kane ku ijana.

Abana bari kugaburirwa amata. Bose bambaye udupira tw'umuhondo, ikigaragara ni uko ari umushinga waje kubagaburira. Hakaba hari umugabo upfukamye, ari gusomesha umwana umwe. Ahagana hirya hari undi mugore wambaye akajiri k'igitaka, na we ari hamwe n'aba bantu muri uyu mushinga waje kugaburira abana kugira ngo bagire imirire myiza.

Abantu benshi cyane bahagaze imbere y'inyubako, bari kwifotoza bafata ifoto y'urwibutso; biragaragara ko bari bari mu nama. Iyo nzu bahagaze imbere, isakaje amategura, ndetse yubakishije amatafari ahiye.

Ahantu mu cyaro hari ivomero rusange rya rindi bapomba igihe bari kuvoma, hari abantu bahateraniye b'abana bambaye nabi baje gushaka amazi. Ni byiza cyane kugira ivomero nk'iri ngiri muri buri mudugudu.

Umugore wunamye apfukamye asa nkaho ahambiye amaboko ye, bigaragara ko ashobora kuba afite uburwayi bwo mu mutwe, hari abandi bantu benshi cyane bateraniye aho ngaho, imbere ye hari umuhanzi wambaye imyenda y'umweru n'ingofero, afite indangururamajwi ari kubaririmbira.

Abaganga bateraniye hamwe mu cyumba aho bari kwita ku murwayi waje urembye, aba baganga bose bambaye imyambaro iri mu mabara asa icyatsi.

Umukecuru uri mu cyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi, harimo n'abandi baganga bagiye batandukanye, ariko uko bigaragara bari kugenda bapima aba bantu amaraso yabo ngo barebe ko ari mazima.

Umukobwa usutamye yambaye ijipo y'umukara ndetse n'agapira k'umutuku, uko bigaragara ari kuvoma amazi kuri robine iri iwe mu rugo, ari kuvoma injerekani yayitetse mu mabase abiri asa ubururu.

Abantu b'abaganga bambaye amataburiya ndetse n'utubaji mu ijosi bari kwifotoza bari kumwe n'umugabo w'umuzungu wambaye amakositimu na karuvati byiza cyane.

Abantu bateraniye hamwe bagera muri batatu, babiri muri bo ni abaganga undi umwe ni umujyanama w'ubuzima, bose bafite amafishi barimo kwandika, umukobwa wundi umwe w'umuganga yicaye ku gatebe k'umweru ari kureba ibyo barimo.

Minisitiri w'Ubuzima mu Rwanda, Dogiteri Sabin Nsanzimana, akaba ari we uzadukoresha inama yerekeranye n'ubuzima ejo bundi.

Umukobwa uri guseka wishimye cyane wambaye imyenda idoze mu bitenge, akaba asutamye ari gutega ibiganza bye ku mugezi bigaragara ko agiye kunywa amazi, hirya hari amajerekani agera muri atatu.

Abana bakiri bato b'abanyeshuri bambaye impuzu mpuzankano, bakaba bishimye. Imbere yabo hari abantu benshi cyane bakuru b'abarimu ndetse n'abayobozi babasuye. Ahantu bahagaze hashashe tapi isa icyatsi.

Umumama n'umukobwa bahuriye ku ivomero rusange, bose baje gushaka amazi, umumama akenyeye igitenge yambaye n'agashati k'umutuku, akenyeye n'umupira, umukobwa yambaye igitenge cy'icyatsi n'agapira k'umweru.

Abantu benshi cyane bateraniye mu cyumba, bamwe baricaye abandi barahagaze, bari kwifotoza. Bari bari mu nama none inama irarangiye bari gufata ifoto y'urwibutso kugira ngo babone uko batanga raporo.

Umugore ucigatiye umwana mu bitambaro bisa umuhondo, ari gupimwa n'undi mugore w'umukorerabushake wambaye akajire ndetse n'agapfukamunwa n'udupfukantoki, ari kumupima ngo arebe ko uwo mwana nta kovide cumi n'icyenda arwaye ubundi babone kwinjira.

Umukobwa wambaye agapira k'iroza n'ijipo y'umukara n'inkweto z'umukara afite ibindo y'umuhondo iteretse mu ibase asa nk'uri kuvoma hirya hari imyenda yamaze gukura iri gucunda ahagana hirya hari inzu zishaje z'amabati zubakishije amabati, zikaba zisakaje amabati.

Abantu bari kubyina bateze amaboko barigushayaya, bakanimba, bakanyemera, bakagwa mu nka, bari mu cyumba cyiza cyane cyateraniyemo inama.

Ibiganza by'umuntu wambaye udupfukantoki turi mu mabara y'ubururu, akaba afite urwembe hari ibyo ari gukata, uko bigaragara uyu ni umuganga kuko utu dupfukantoki twambagwa n'abaganga.

Aha baratwereka abana benshi harimo abambaye imipira y'umutuku babiri, hakabamo undi wambaye ak'ubururu, n'abandi bambaye imyenda ijya gusa kaki n'abambaye imyenda ijya gusa umukara, bose barishimye bakoze ku mugezi wagira ngo bari kuvoma, ariko ikigaragara bari gufata ifoto.

Utuzu tubiri dutoya twubakishije amatafari ahiye, tukaba dufite inzugi zisa ubururu ndetse tukaba dufite urugo ruzitije senyenge ndetse n'ibyuma.

Umwana ukiri muto wagiye kwa muganga kwikingiza, muganga ari kumukingira ndetse umwana arashyikamye nta bwoba na buke afite, ni umwana w'umukobwa wambaye agasengengeri k'umweru, afite n'amasaro mu mutwe.

Abantu benshi bateraniye hamwe bambaye impuzankano ziri mu mabara y'umweru ndetse n'icyatsi, bambaye udupfukamunwa tw'umukara, imbere ya buri wese harambitse agacupa karimo amazi, bose barebye imbere bigaragaza ko bakurikiye uri kubagezaho ikiganiro.

Abantu bagera muri batanu, harimo abakobwa bane n'umuhungu umwe, bambaye udupira tw'ubururu n'amapantaro y'umukara n'inkweto z'umukara, barishimye bari kwifotoza, bafashe ku cyapa cyanditseho Unicef, ikigo cyita kuri buri mwana.

Abantu bicaye bari mu nama, biragaragara ko aribo bayiyoboye, harimo abagabo bagera muri bane ndetse n'abagore babiri, bose bambaye udupfukamunwa, inyuma yabo hari icyapa gisa ubururu kiriho insanganyamatsiko bari kuvugaho muri iyo nama.

Umugabo arahagaze hejuru ye hari umunzana urimo igisurubeti bapimiramo abana batoya, hakaba n'abadamu bicaye bafite abana baje gupimisha ngo barebe ibiro bya bo bamenye uko ubuzima bwa bo buhagaze.

Abana benshi cyane bateraniye hamwe bari kumwe n'abantu bakuru bagiye batandukanye harimo kandi n'umuzungu, abana bambaye imyenda isa ubururu yanditseho utugambo tw'umweru, abandi bambaye iyu muhondo bicaye ku mikeka na tapi.

Umugore wagiye ku ivomo rusange aho akenyeye igitenge gisa icyatsi n'agapira k'ubururu gatambitsemo uturonko ateze n'igitambaro, ari kuvoma amazi ku ivomero rusange, inyuma ye hari ibiti byinshi cyane.

Abantu bagera muri bane bakaba bahagaze, harimo abagore batatu ndetse n'umusore umwe, bari kwifotoza inyuma yabo hari icyapa cyanditseho ko hatangijwe cyangwa hatashywe Ikigo cy'Igihugu cyita ku bana, ku bufatanye na UNICEF.

Uyu ni umwana muto wambaye imyenda y'ishuri, ariga ari gukara intoki ku ndobo ya kandagira ukarabe isa umweru n'ubururu, ni byiza cyane kugira isuku ukiri umwana kuko ugira ejo heza hazaza.

Inyandiko itwereka uburyo ubuzima bwo mu mutwe buhagaze, ikaba ifite imbonerahamwe irimo utuzu tubiri, akazu ka mbere kari mu mabara y'ubururu kandikishijweho amagambo y'umukara, aka kabiri kari mu mabara y'umweru kandikishijweho amagambo y'umweru.

Abantu benshi cyane bateraniye hamwe mu cyumba cy'inama aho bari kugenda batanga ibitekerezo bigiye bitandukanye, imbere yabo hari umugabo uhicaye wambaye ikositimu ndetse na karuvati, iruhande rwe hari Ibendera ry'Igihugu cy'u Rwanda.

Icyapa kiri mu mabara abiri, hakaba hariho rimwe risa umukara ndetse n'irindi risa oranje, haciyemo akantu kameze nk'akanyenyeri gasa umweru.

Icyumba cyiza cyane gifite ibikuta biteye amarangi asa umweru, hagiye hariho insakazamashusho ku bikuta kandi, mo imbere muri icyo cyumba hateraniyemo abantu bari mu nama.

Abagore babiri bahuriye ku ivomero rusange, aho bari guhomba undi umwe nawe afite indobo y'icyatsi ateze amazi kugira ngo barebe ko babona amazi yo gukoresha.

Abana b'abanyeshuri benshi cyane, aho bambaye impuzu mpuzankano, bafite ibikombe, bagiye ku mugezi utanga amazi meza aba ari mu kibuni bari kuvomaho ngo banywe, batojwe isuku, ibi ni byiza cyane.

Ibyuma bizwi nka bomboni, biri mu mabara y'ubururu, ndetse n'umukara, bimanitse ahantu ku gikuta giteyeho irangi ry'umweru, ibi byuma byifashishwa byongerera umwuka abantu baba bageze ku kuka kanyuma.

Mu rwego rwo kwereka ko n'abagore bashoboye aha abagore babiri bateruye agafuka kugira ngo berekane ko nabo ari abanyembaraga ibyo umugabo yakora nabo babishobora hari imbere n'abandi bagabo nabo bateruye hakaba n'abagore bari kumanuka bagana epfo, ibi bishatse kuvuga ko icyo umugabo yakora n'umugore wese yagishobora.

Abana babiri bagiye kuvoma ku ivomero rusange none umwe ari gukorera mugenzi we indobo, indobo iri mu mabara y'icyatsi ndetse inyuma yabo hari inzu ya nyakatsi, hirya hari agasozi keza katari karekare cyane.

Abantu benshi batandukanye, bambaye imyenda iri mu ibara ry'icunga. Uko bigaragara bari gukora umuganda, bubaka akarima k'igikoni.

Ni kwa muganga aho hari abagore benshi baje gukingiza abana babo, buri wese ateruye umwana we mu ntoki, bicaye begamiye ku nyubako yubakishije amatafari ahiye.

Ijanisha ritwereka uko imibare yari ihagaze ndetse n'imyaka yayo, bibiri na cumi n'umunani mirongo itanu na gatanu ku ijana, mirongo irindwi ku ijana bibiri na cumi n'icyenda, mirongo irindwi na gatandatu ku ijana bibiri na makumyabiri, mirongo irindwi n'icyenda ku ijana bibiri na makumyabiri na rimwe.

Umugore wicaye akikiye umwana, ari kumwe n'umujyanama w'ubuzima, ari kumuganiriza, aho umujyanama w'ubuzima afite impapuro mu ntoki n'izindi zirambitse imbere ye ku ntebe, ari kumubwira ibyiza byo kuboneza urubyaro.

Abantu benshi cyane bateraniye hamwe aho bari gufata ifoto y'urwibutso, harimo abasore, inkumi ndetse n'abagore, imbere y'inyubako bariho yubakishije amatafari ahiye, hari kandi n'ibiti by'imikindo.

Umugabo uri gusuhuzanya na mugenzi we, umwe akaba afite ibitabo mu kuboko kwe kw'ibumoso. Bose bambaye amakositimu, inyuma yabo hari icyapa cyanditseho kurwanya icyorezo cya Marburg.

Aha turabona abagore n'abagabo benshi bambaye impuzankano zisa z'utujiri tw'icyatsi, aho bahagaze imbere ku rubaraza rw'inzu wagira ngo bari kwigishwa, hariho abafite utudarapo tw'icyatsi, hakabaho n'umugore ucigatiye umwana wambaye agapira k'umuhondo.

Abantu batatu harimo abambaye amadarubindi babiri, bose bambaye impuzankano z'abaganga bambaye udupfukamunwa ndetse n'utunozasuku mu mutwe, bafite udukarito turimo imiti ivura abarwayi.

Umwana muto cyane ucigatiwe na nyina yambaye imyenda y'icyatsi. Uyu mwana bigaragara ko bari kumupima imikurire ye, uko bigaragara arwaye bwaki kuko arananutse cyane. Hari umugabo uri imbere uri gupima ikizigira cy'ukuboko cyiwe.

Ababyeyi baje gupimisha abana babo, bicaye mu ntebe za purasitike z'ubururu. Imbere hari umuganga wambaye itabuririya, yunamye ari kureba uruhinja rw'umwe mu mubyeyi, wambaye agapira k'ubururu, uwo mubyeyi yicaye no ku ntebe y'icyatsi ya purasitike. Imbere hari ameza ateretseho imiti iri mu gikapu cya muganga.

Umukobwa witwa Jacquelina Carine, ni we wagaragaye ko azadufasha mu nama izaba ejo bundi yiga ku bijyanye n'ubuvuzi bw'indwara zinyuranye.

Abantu benshi bateraniye hamwe bambaye udupfukamunwa. Harimo umugore wambaye ingofero n'agapira k'umutuku. Akaba yasamishije umwana ari kumureba mu kanwa ngo arebe uko ubuzima bwe bwaba buhagaze. Uwo mwana acigatiwe na nyina.

Umurwayi yagiye kwivuza aho bamushyizeho icyuma gipima umuvuduko w'maraso, yagishyizweho n'abaganga babiri, umuganga umwe ni umugore munini ubyibushye, ufite kompiyuta, akaba afite n'icupa ririmo isabune yo gukaraba, aho yabirambitse ku buriri akaba ari gupima uyu mukobwa umuvuduko.

Abantu bateraniye hamwe bari mu cyumba cy'inama, ni abadamu bagera muri bane, imbere yabo hicaye umuganga wambaye impuzankano ziri mu ibara ry'iroza, ari kubigisha uburyo bakoresha kugira ngo babashe kuboneza urubyaro.

Mu cyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi kwa muganga, aho harimo umugore wambaye agapfukamunwa ndetse wateze n'igitambaro, yambaye umupira w'icyatsi ndetse mo imbere yambariyemo agapira gasa icunga.

Uyu ni umugezi wa gakondo uba ahantu mu byaro, aho kuwuvomaho biba bisaba ko umwe ajya inyuma agapompa azamura amanura kugira ngo amazi aze. Aha tuhabona umwana wambaye agapira k'umutuku uri kuvoma, inyuma hari umumama uri gupompa wambaye agapira k'icyatsi n'ijipo y'umweru, hirya hari abandi bantu na bo bategereje ko asoza na bo bakajyaho, bagapompa, bakavoma, bagacyura amazi.

Icyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi yo kwa muganga, hateraniyemo abantu benshi cyane bagiye gushaka izo serivisi. Bicaye batonze imirongo uko bagiye bakurikirana.

Abantu benshi cyane bateraniye mu cyumba gitangirwamo serivise z'inama bose barakurikiye, aho bari kureba umuntu uri imbere yabo uri kubagezaho iyo nama n'ubwo atagaragara neza.

Ahantu hari inyubako nyinshi cyane ariko ziganjemo inyubako zubatswe mu buryo bw'uruziga, hari ubusitani bwiza cyane aho buririmo ibyatsi bisa icyatsi bikiri bito.

Umugabo wambaye akajiriegasa umukara n'agapira k'umutuku, akaba afite urupapuro mu ntoki ari gusobanurira abandi bantu bari ahongaho ibiri kuri urwo rupapuro. Muri abo bantu harimo abagabo ndetse n'abana bakiri bato.

Abana biganjemo abanyeshuri bakaba bagiye ku ivomo rusange, aho umwe yashyizeho intoki ari kunywa amazi. Ni byiza cyane kunywa amazi meza ariko dukoresheje ibikoresho byabugenewe nk'ibikombe cyangwa uducupa tudakoresheje intoki.

Abantu bahagaze mu muhanda, hari umuganga uri kugenda abahereza utuntu tw'udupapuro, nabo batwakira bishimye. Bigaragara ko kuri izi mpapuro handitseho ibintu runaka bari kubahuguraho.

Abagore batatu bateraniye hamwe ku mugezi, bari bari kuvoma none barashoje bari gukaraba intoki, hari umugore wundi wambaye agapfukamunwa n'ishati y'ubururu uhagaze hejuru yabo bigaragara ko ariwe uvomesha.

Minisitiri w'ubuzima mu Rwanda Dr Sabin Nsanzimana akaba yambaye ikositimu, munsi ye ku cyapa hariho Ikirangantego cy'u Rwanda ndetse n'Ikirango cya Minisiteri y'Ubuzima.

Umukecuru ugeze mu zabukuru, aho yikoreye injerekani isa umuhondo, ipfundikije umufuniko w'umutuku. Avuye kuvoma amazi ku ivomero rusange, iruhande rwe hari abana babiri agahungu ndetse n'agakobwa.

Umuntu w'igitsina gore wagiye kwa muganga kwikingiza urukingo rwa kovide cumi n'icyenda, turi kubona intoki zambaye udupfukantoki zifashe urushinge ziri kurumutera, uyu nguyu urufashe akaba ari umuganga.

Umugabo wambaye akajiri, akaba ahagaze imbere ya muganga, hari n'abandi bantu bari aho ngaho, muganga afite mudasobwa imbere ye arahagaze, hari n'undi uri imbere yiwe wicaye uri kureba ku mafishi, hirya hari n'undi mukecuru nawe wambaye agapfukamunwa k'ubururu.

Umwana w'umukobwa wagiye kwa muganga kwikingiza none muganga wambaye itaburiya ari kumutera urukingo, bigaragara ko ari urw'Iseru na Rubeyole.

Abantu bateraniye hamwe mu cyumba byerekana ko bari mu nama, hari umugore uri imbere yabo ufashe indangururamajwi mu ntoki ari kugira icyo avuga, imbere ya buri wese hateretsemo agacupa karimo amazi yo kunywa.

Abantu babiri umwe ni umuganga undi ni umurwayi waje gushaka serivise. Umuganga aricaye afite igitabo ku meza ari kwandikaho, ari kugenda abaza umurwayi, umurwayi na we akamubwira, imbere yabo hateretse icupa ry'amazi.

Umuntu ufite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe, aho yambaye imyenda yacikaguritse, yambaye inshwabari, akaba ameze nk'uwambaye ubusa. Ari gusuhuzanya n'umugabo wambaye, agashati gasa umutuku n'ubururu, ndetse n'ipantaro y'umukara.

Umuntu wambaye ubusa hejuru ukenyeye igitenge munsi, afite imisatsi yabaye injwiri, yicaye muri rigore itwara amazi uko bigaragara uyu ni umusazi afite uburwayi bwo mu mutwe.

Abana benshi cyane ndetse n'abantu bakuru, ubona ko bafite agahinda bababaye, babayeho mu buzima bubi, bari kurira, bambaye imyenda yashaje mbese nk'uko bigaragara bateye imbabazi ni abo gufashwa.

Umukobwa wirabura uri guseka, yambaye akajiri k'umuhondo ndetse afite n'imisatsi ya menshi urabona ko yishimye. Ari mu iduka, aho ashobora kuba acuruza serivisi za sosiyete y'itumanaho mu Rwanda ya MTN.

Ikimenyetso cy'uruziga kiri mu mabara agiye atandukanye, ari yo ubururu, icyatsi, ndetse n'umuhondo. Hasi hakaba handitseho amagambo mu rurimi rw'icyongereza mu ibara risa ubururu.

Umukecuru uri gushigisha igikoma yambaye amakanzu adoze mu bitenge, ari mu mabara y'icyatsi ndetse n'umuhondo. Uko bigaragara ari ahantu mu giturage kuko ntabwo hari isuku ihagije.

Umusore wambaye ishati idoze mu bitenge, akaba yegamye ku gikuta arebye hejuru, akaba ameze nk'umuntu ufite agahinda cyangwa ubabaye, ni byiza cyane ko umuntu yamwegera akamuganiriza kugira ngo amuhumurize.

Umukobwa wambaye ikanzu y'umukara afite amaherena ndetse n'imisatsi ya kizungu, ari kumwe na mugenzi we wambaye ikanzu y'ubururu n'umweru, bari kuganira uwo wambaye iby'ubururu afite igipupe cy'ingwe mu ntoki.

Umugore wambaye ikositimu yubururu ni ishati yumutuku imbere akaba afite imisatsi myiza ikoze mu mugongo arebye hino afite amenyo meza ahagana imbere ye hari icyapa cyanditseho ngo ubufatanye mubuzima.

Abakobwa bambaye udupfukamunwa tw'umweru n'udupira tw'umweru, bicaye ku meza bari kureba mu matelefoni, hari hirya undi mukecuru wicaye ari ku bareba nawe wambaye akantu k'umweru, ahagana inyuma hari abandi benshi bicaye mu itente wagira ngo ni abageni.

Abantu benshi cyane bambaye impuzankano z'ubururu, ndavuga udupira, barahagaze bari gufata ifoto y'urwibutso. Hagati harimo umugabo wambaye ishati yumweru ndetse n'umuzungukazi wambaye ikote ry'umweru.

Umugore ufite indangururamajwi mu ntoki ari kuvuga, akaba ari kumwe n'umugabo wambaye agapfukamunwa k'umutuku. Bakaba bahagaze ahantu imbere hari ikirango, cy'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima, RBC. Hari kandi n'ikirangantego cya repubulika y'u Rwanda.

Umuntu wicaye mu cyumba, icyumba kikaba giteye amarangi y'umweru ariko gishaje, uyu muntu rero akaba yambaye ubusa, bigaragaza ko ashobore kuba afite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe.

Abantu benshi batandukanye bahagaze bari kwifotoza, bafite ibyapa bisa ibara ry'icunga mu ntoki. Inyuma yabo hari n'ikindi cyapa igisa gutyo. Hari imikindo ndetse n'inyubako itaruzura y'iyi gorofa.

Abagore babiri bicaye ku rubaho, umwe yambaye ipantaro y'ikoboyi n'ishati ijya gusa ubururu, afite umusatsi uzinze ukoze mu mugongo, afashe undi mu ijosi we wambaye ishati y'ikanzu y'ubururu, akaba yiteye n'agasharupe gasa umutuku, inyuma yabo hari inkwi z'imyase zashije, bicaye mu mbuga aho bashirije inkwi nyinshi cyane, bafite n'agatabo bari kujya barasoma, akamubwira ibyo akora.

Abamama babiri bakaba bacigatiye abana mu ntoki zabo, bakaba bakikiye ameza, imbere yabo hari umuganga uri kugenda ababwira uburyo bakwita ku bana babo.

Icyapa cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'umukara, avuga ngo twite kuri serivisi z'ubuzima bwo mu mutwe mu Rwanda, hariho kandi ikirango cya RBC.

Abantu benshi bateraniye hamwe bari kwifotoza, harimo abashinzwe umutekano ndetse n'abantu bandi basanzwe, inyuma yabo hari ikirangantego cy'u Rwanda, ndetse n'icyapa cyanditseho insanganyamatsiko bigagaho muri iyo nama.

Abantu benshi bishyize hamwe, bari kugenda bari kwamamaza bafite mikoro, bambaye udupira tw'icyatsi, bafite icyapa cyanditseho ngo kurwanya ihohoterwa ni inshingano yanjye. Bigaragaza ko buri wese ari kugira uruhare mu kurwanya ihohoterwa.

Abantu bagera muri bane bateraniye ahantu mu cyumba cy'inama, aho hari umugabo umwe wambaye iby'umweru n'ipantaro y'umukara, ufite idangururamajwi mu ntoki ari kubabwira, inyuma ye hari icyapa cyanditseho ngo twirinde ku buzima bwo mu mutwe aho dukorera.

Umuntu wambaye imyenda y'umukara, aho yipfutse mu maso, inyuma ye hari igikuta gisa nk'ivu, kimanitseho imiti igiye itandukanye, uko bigaragara uyu muntu afite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe.

Ishusho itwereka ijanisha ry'impfu zagiye zibaho z'abantu biyahuye mu gihugu cy'u Rwanda iyi shusho iri mu mabara y'umutuku aho batubwira buri mwaka n'abantu bagiye biyahuramo.

Inyubako nziza cyane yubatswe neza ifite ibirahuri byiza cyane, aho iteye amarangi asa umweru. Ifite ubusitani bwiza burimo utwatsi tukiri duto ndetse harimo n'igiti cy'umukindo, hari n'ibyapa biri muri ubwo busitani.

Abantu benshi bateraniye hamwe bari mu cyumba cyabereyemo inama, bamwe baricaye abandi barahagaze, bari kwifotoza inyuma yabo ku gikuta hari ikirango cya Minisiteri y'Ubuzima mu Rwanda, aho kiriho insanganyamatsiko bigagaho.

Abana benshi cyane bateraniye hamwe b'abanyeshuri, bambaye amashati asa ubururu, bazamuye ibiganza barishimye cyane, inyuma yabo hari idarapo ry'u Rwanda ndetse n'ibiti bikiri bito.

Umuntu wambaye imyenda mibi cyane yacikaguritse n'inkweto y'inyutsi, ahetse agafuka mu ntoki k'umweru ndetse n'igitebo ari kugenda ashyiramo amashashi. Inyuma ye hari imodoka itwara ibikoresho byifashishwa mu bwubatsi.

Umugabo wambaye amakositimu, imbere ye hari indabyo nyinshi, hirya ye hari umukorerabushake. Uko bigaragara yaje kunamira abazize Jenoside yakorewe Abatutsi.

Umugabo wambaye amadarubindi n'agashati k'umweru, n'imisatsi itari myinshi cyane, akaba ari ahantu hari gusa ubururu, hejuru handitseho amagambo asa umweru avuga ngo; Twite ku buzima bwo mu mutwe ku bantu bose.

Umubyeyi uhagaze arebye hino afite imisatsi iri gukuruhuruka ku gatuza, yambaye ishati y'iribibaya y'amabara y'umutuku ndetse irimo n'utuntu tw'umweru n'icyatsi ku maboko.

Izi ngizi ni imodoka isa umweru. Yanditseho amagambo ari mu ibara ry'ubururu mu rurimi rw'icyongereza. Ugerageje kuyasemura mu Rwanda, biri kuvuga ngo gutaha ubuzima bwita ku menyo biherereye mu karere ka Bugesera.

Zmwe mu nshingano z'abapolisi ni ukwita ku bana bahungabanye cyangwa se bahohotewe mu rwego rwo gucunga neza umutekano, aha turahabona icyapa kiriho inuma handitseho ngo Rwanda nashono polise, hakaba hananditswe ngo isange wani sitopu senta.

Abantu benshi bicaye bakoze uruziga, bigaragara ko bari mu nama bicaye ku ntebe z'amashezi ariho imifariso y'umweru, hagati harimo abagore batatu bahagaze, bigaragaza ko hari icyo bari kuvuga.

Umuntu wicaye yigunze, yambaye ipantaro itagira ibara ndetse n'agapira k'umutuku, yigamye ku rukuta rusa nabi bigaragara ko uyu muntu ashobora kuba afite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe, ni byiza kumwegera tukamuganiriza, tukamuhumuriza.

Abantu benshi bambaye imyenda y'umukara imeze nk'impuzankano, bakaba bahagaze imbere y'imodoka, inyuma y'iyo modoka hari amashitingi asa umweru, aba bantu hari umuntu uri hagati bari guhereza igihembo cy'ishimwe, bigaragara ko yakoze neza.

Abantu benshi bateraniye hamwe bari kwifotoza, harimo abagabo ndetse n'abagore, bari kwifotoza bishimye cyane, bigaragara ko bahoze bari mu nama.

Umukobwa ukiri muto, wambaye agapfukamunwa k'umweru, afite imisatsi myiza cyane y'umukara ndetse yambaye n'agapira k'umukara. Yasohotse ku mashusho, aho bari kutwereka ko ari we uzatuganiriza ku bijyanye n'uburyo bwo kwirinda Covid cumi n'icyenda.

Umuganga wambaye itaburiya y'umweru, amadarubindi ndetse n'agapfukamunwa k'umweru, akaba ahagaze mu cyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi, aho ari kwandika ku rupapuro.

Umuntu wagiye kwa muganga arwaye amenyo ari kumurya, none muganga yayasuzumye asanga hari rimwe ryangiritse, none yarikuye hajemo igihanga n'icyobo kinini cyane, muganga araza kumuha imiti hanyuma kino cyobo kize kwisubiranya.

Umwana mutoya cyane w'inzobe wasamye, afite amenyo meza cyane aho muganga ari kuyasuzuma ngo arebe ko nta kibazo afite, inyuma ye hari intebe ifite umusego usa umutuku.

Bari kutwereka amenyo ndetse n'imizi yayo uko aba angana mu kanwa k'umuntu, bifashishije igikanka kugira ngo babashe kutwereka neza ukuntu amenyo aba angana, tubashe kuyasobanukirwa.

Umugabo ari gukoresha akadodo atwika uburyo bwiza bwo gusukura amenyo uvanamo imyanda iba yasigaye hagati y'amenyo ndetse no mu ishinya, afite amenyo meza kubera ko ayitaho arasa umweru afite n'ururimi rwiza.

Umwana muto cyane wagiye kwa muganga aho yariye afite uburwayi bw'amenyo, muganga yamwifaanishije ari kureba mu menyo ye ko nta kibazo yaba afite, umwana we arararamye arebye hejuru nta bwoba afite.

Ni ku ishuri aho hari umuganga wagiye gusobanurira abanyeshuri ibijyanye n'ibice by'amenyo, ari kumwe n'umunyeshuri ari kumusobanurira, inyuma yabo hari abandi bantu bagera muri bane, bahagaze bari kubareba bakurikiye.

Uyu nguyu ni umukobwa ukiri muto cyane, aho yagiye kwa muganga arasamye, abaganga bazanye utumwa twabugenewe ngo bite ku menyo barebe ko ameze neza.

Umwana muto cyane uri kwiborosa, aho yashyize uburoso mu kanwa ari gusukura amenyo ye, yicaye ku gatebe gafite umufariso w'ubururu aho yegamira, ni byiza cyane gutoza umwana kugirira isuku amenyo ye akiri muto.

Umusaza ugeze mu zabukuru aho afite amadarubindi ku maso ndetse yambaye n'agapira gasa n'ivu, afite agakoresho mu ntoki agiye kwifashisha yoza amenyo ye kugira ngo amere neza.

Umusore uri kumwenyura yasamye yishimye, aho afite akadodo mu ntoki akoresha asukura amenyo, ni byiza kugirira isuku amenyo yacu, dukoresheje urudodo kuko bikuramo imyanda yose iba yaheze hagati y'amenyo.

Umuganga yambaye ga ari gusobanurira abantu ubwoko bw'amenyo akoresheje igishushanyo gishushanyije, hariho amenyo y'umutuku afite ishinya y'umutuku, hakaba amenyo y'umweru n'ishinya y'umukara, hakabaho naho ari kwerekana imizi y'amenyo.

Umuganga utari kugaragara mu maso hari kugaragara ijosi rye ryonyine n'agapfukamunwa yambaye n'ishati ijya gusa umweru na ga z'umweru ari gukura umwana w'umukobwa iryinyo yifashishije utwuma tubiri umukobwa wambaye iherena ku gutwi.

Uyu mukobwa ari kwireba mu ndorerwamo arasanmye ari kugaragaza amenyu afite imisatsi miremire ikoze inyuma mu mugungo yambaye itaburiya y'umweru yicaye ahantu wagirango ngo ni muri salo.

Umugabo wambaye imyenda y'umukara, usa inzobe, yambaye impeta ku kuboko, ari kugenda akorera isuku amenyoye, ari nako yireba mu ndorerwamo iri imbereye, ni byiza cyane kugirira isuku amenyo yawe.

Umuganga wambaye agapfukamunwa afite n'imisatsi igeze mu mugongo, yambaye ishati y'umweru, akaba yambaye n'udupfukantoki, ari gusuzuma umurwayi iryinyo ari kureba iriri kujegera ngo arikure, hirya ye hari abandi babiri umwe ari kwandika, n'undi ari kureba ibyo ari kwandika, imbere yabo hateretse agacupa kaji, n'akandi karimo isabune ya sanitayiza.

Umusore uri gukorera isupu amenyo ye akoresheje urudodo. Ubu ni uburyo bwiza bwo gusukura amenyo aho umuntu akoresha urudodo hanyuma akamaramo imyanda yose iba yahagaze hagati y'amenyo.

Umukobwa uri gukorera isuku amenyo ye akoresheje uburoso bwabugenewe, yambaye agakanzu keza cyane k'umweru, ari kwireba mu ndorerwamo ukuntu ari gusukura amenyo ye. Afite imisatsi miremire cyane.

Umukobwa ufite amenyo meza aborosa ayitaho ku buryo bukwiye, amenyo ye asa umweru wererana, afite ishinya y'umutuku akaba yasamye ari kuyerekana, afite umusatsi mwiza nawo yitayeho mbese ni iyambere mu bijyanye no kwigirira isuku ndetse no kugirira umubiri we.

Umugabo w'inzobe, afite akagozi akoresha mu menyo asukura avanamo imyanda iba yasigaye hagati y'amenyo, n'ishinya. Afite amenyo meza, ari kutwereka uburyo twakoresha kugira ngo tugirire amenyo yacu isuku.

Uyu mukobwa wasamye ari kwerekana amenyo ye meza afite agakoresho akoresha ari kugira ngo ayaborose ase neza cyane ayakorere isuku kugira n'ishinya zibe zigaragara aha batwigisha uburyo twagirira isuku amenyo yacu tukayarinda uburwayi buterwa n'umwanda.

Umwana wagize ikibazo cy'amenyo, none yihutiye kwa muganga. Muganga afite ibikoresho byabugenewe, ari kugenda asuzuma niba amenyo y'umwana ameze neza kugira ngo iryo asanga rifite ikibazo aze kurikura.

Amenyo agiye atandukanye n'imizi yayo, aha bari kutwereka ifoto y'igikanka, batwereka uburebure bw'amenyo umuntu aba afite, ni byiza cyane gusobanukirwa umubare ndetse n'uburebure bw'amenyo yawe.

Icyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi kwa muganga. Harimo intebe zifite amabara y'icyatsi ndetse n'ibindi byuma byifashishwa mu gutanga serivisi zijyanye n'ubuvuzi.

Abantu benshi cyane bagiye batandukanye bateraniye ahantu, aho bamwe bahagaze abandi bicaye bari kwifotoza. Uko bigaragara bari bari mu nama, inyuma yabo hari icyapa cy'umweru cyanditseho insanganyamatsiko.

Umukobwa uri guseka cyane ufite amenyo meza cyane, afite imisatsi ya direde, imbere ye hari umuntu ufite intoki zambaye uturindantoki dusa umweru, afite akantu kariho amenyo agiye atandukanye y'amakorano.

Intebe nziza z'amadiva zicaweho n'abantu bageze mu zabukuru, hariho umugabo ubanza wambaye amakositimu, umukurikira akaba afite furari y'umuhondo, umutuku n'icyatsi akaba yambaye n'ikanzu afite n'inkoni, hirya hari abandi bafite inkoni harimo uwambaye ikanzu y'umweru n'ingofero ahagana hirya naho hari umudamu n'abagabo babiri.

Umusaza ugeze mu zabukuru aho yagiye kwa muganga, yambaye imyambaro y'umweru ari kurebana na muganga barishimye, muganga ari kugerageza kumwitaho mu buryo bwose bushoboka kugira ngo amere neza.

Umusaza n'umukecuru bose ubona ko bageze mu zabukuru. Umukecuru afite urupapuro mu ntoki ari gusomaho, imbere yabo hari uducupa turimo ibinini, bikaba bigaragaza ko bari gusoma amabwiriza muganga yabahaye yerekeranye n'ibi binini.

Umusaza wambaye agapira k'ubururu gatanmbitsemo uturungo tw'umweru, ari kumwe na muganga aho ari kumureba ari gushinyiriza, biragaragara ko yagiye gushaka serivisi z'ubuvuzi kwa muganga.

Uyu mukobwa wambaye isengeri y'ubururu, n'ipantaro y'ikuboye y'umukara, akaba yambaye nk'inkweto afite n'imisatsi imanutse ku rutugu, ari gukora siporo aho ari kuzana amaboko agakoza ku mano ye.

Umukecuru uri kumwe n'umusaza aho umusaza yicaye ku gitanda ari kunywa amazi mu gakombe umukecuru amuzaniye, umukecuru yambaye ikanzu y'ubururu naho umusaza yambaye agapira k'umweru.

Abasaza babiri bari kugenda mu gahanda gashashemo amabuye, aho umwe ari muremure undi ari mugufi bari kurebana bishimye cyane bisa n'aho bari kugenda bananura amaguru yabo, bombi bafatanye ku ntugu.

Umusaza umugaye ugeze mu kigero cy'izabukuru, yambaye amadarubindi yicaye mu kagare k'abafite ubumuga. Ari kurebana n'umwuzukuru we w'umukobwa, aho bafite udukinisho tw'ikoranabuhanga mu ntoki zabo.

Umwana ari gukina n'umugabo, bari gukina umukino wa basikete, umwana afashe umupira mu ntoki ari kugenda acenga umusaza, umusaza nawe agerageza kumwataka ngo arebe ko yamwaka uwo mupira bose barishimye.

Umusaza ugeze mu za bukuru ari kumwe n'umukecuru we bari kurebana bishimye cyane, umusaza yicaye mu kagare k'abafite ubumuga inyuma ye hari umugabo wambaye amadarubindi, na ba baje mu ijosi ufashe kuri ako kagare bigaragara ko amusunikiyeho, inyuma yabo hari abandi bantu batatu nabo bicaye ku meza.

Umugore ndetse n'umwana we bambaye udupira tw'umweru, bose bafite imisatsi miremire, bari ku meza, umugore ari kwereka umwana udukinisho tugiye dutandukanye twatuma amenya ubwenge.

Abakecuru bageze muri batatu bari mu kigero cy'izabukuru, uwo hagati akaba afite telefoni bari kurebamo, babiri muri bo bambaye ingofero undi umwe ntabwo ayambaye, babiri nanone muri bo, bambaye amadarubindi, undi umwe ntabwo ayambaye.

Umusaza ugeze mu zabukuru yagiye kwa muganga bari kumugendesha kutwuma kugira ngo ajye abasha kugenda neza nta mususu, ari kumwe n'umukobwa wambaye agapira gasa umutuku n'ipantaro y'umukara.

Umukecuru ugeze mu zabukuru, ari kumwe n'abana be babiri, uw'umuhungu ndetse n'uw'umukobwa, bafite isahani bari gushyiraho amafunguro agize indyo yuzuye kugira ngo umukecuru ayirye, amererwe neza.

Umukobwa wambaye akantu bumvisha kameze nka kuteri mu ijosi, yambaye ishati y'umukara afite n'umusatsi udefirije. Afatanye ukuboko n'umukecuru bishimye, umukecuru yambaye amataratara. Bari kuvugana, bari ahantu hari ibiti bifite ibibabi ndetse hari n'inzu ifite urugi rudateye irangi.

Abagore ndetse n'abakobwa n'abakecuru bakaba bari gukora imyitozo ngororamubiri, bamwe bambaye impuzankano ziri mu mabara y'umukara ndetse n'umweru, undi umwe yambaye ikanzu yo mu gitenge undi yambaye ishati ya buresiyeri.

Umukobwa ufite imisatsi iteyemo kanta iri kurabagirana cyane, wambaye umupira w'igitaka yicaye ahantu hamwe n'umusaza wambaye amataratara, yambaye n'agapira k'umukara, imbere yabo hari ameza ariho ikirahuri n'agakaye bakaba ari kumusobanurira uburyo azajya anywa imiti.

Umukecuru ugeze mu zabukuru, aho yiyogoshesheje umusatsi wose akawumaraho, yagiye kwa muganga, none muganga yamuhaye akabande mu ntoki gasa umutuku, ari kugenda agakwegakwega kugira ngo agororoke imitsi.

Umusaza ugeze mu zabukuru aho ari kwitabwaho, yicaye mu ibase, bari kumwoza amazi meza n'isabune. Ni byiza cyane kwita ku bantu bageze mu zabukuru kuko nta mbaraga baba bagifite.

Umukecuru ugeze mu zabukuru akaba ari gukora imyitozo ngororamubiri, aho yashinze inkokora hasi n'utuno agenda amanuka yongera azamuka, yambaye isengeri y'umutuku ndetse yunamye no kuri tapi isa icyatsi.

Abantu benshi cyane bateraniye hamwe aho bicaye, harimo n'umugabo w'umuzungu ucigatiye umwana, bose bahanze amaso umukecuru uri kuboha akantu kameze nk'agakangara mu buryo bw'ubukorikori bishimye.

Umusaza ugeze mu za bukuru aho ari gusindagizwa n'umugabo ndetse n'umugore bari kumuhagurutsa ku gitanda kugira ngo barebe ko yatera udutambwe nka tubiri akagorora imitsi ye.

Umusaza ugeze mu zabukuru yagiye kwa muganga, none muganga ari kumukoresha imyitozo ngororamubiri, aho yamuhaye ariteri ari guterura kugira ngo ubuzima bwe burusheho kugenda neza.

Umukecuru ugeze mu za bukuru akaba yicaye ari kumwe n'umuganga uri kumwitaho, muganga yambaye imyambaro isa umutuku, amufashe ukuboko ari kumupima ngo arebe ko ubuzima bwe bumeze neza.

Umusaza ugeze mu zabukuru, aho yambaye agashati k'umutuku akaba yambaye n'amadarubindi, ari kurebana n'umukecuru we amusekera cyane, barishimye bari ku meza bari gusangira.

Umukecuru ugeze mu zabukuru yambaye amadarubindi ndetse n'imisatsi ye yabaye imvi. Afite igikombe mu ntoki kirimo amazi, akaba ari gutamira imiti. Bigaragara ko ari kunywa imiti muganga yamwandikiye.

Umusaza ugeze mu zabukuru, aho yambaye agashati ka shokora, akaba ari ku meza afite ibitabo ari kugenda asoma, imbere ye hateretse ikirahure kirimo amazi.

Umukecuru ugeze mu zabukuru wamugaye ugendera mu kagare, akaba yagiye kwa muganga, ari kwitabwaho n'umukobwa w'umuganga wambaye imyambaro y'ubururu, yamushyize igipimo ku kizigira cy'ukuboko, ari kumupima umuvuduko w'amaraso.

Umusaza ugeze mu zabukuru yagiye kwa muganga. None muganga w'umukobwa wambaye imyambaro y'ubururu ari kumushyiraho icyuma gisa umukara ku kizigira cy'ukuboko, amusuzuma ngo arebe uko umuvuduko w'amaraso ye uhagaze.

Abantu benshi cyane bicaye bigaragara ko bashobora kuba bageze mu zabukuru, bicaye mu cyumba giteye amarangi asa umweru ariko yanduye, bose bahanze amaso umuntu uri kuboha igiseke.

Umukecuru ugeze mu za bukuru aho ari kumwenyura afashe ifurusheti mu ntoki ziwe harimo n'ibyo kurya, akaba agiye gufungura indyo yuzuye. Ni byiza cyane ko abageze mu za bukuru babona indyo yuzuye.

Umusaza ndetse n'umukecuru bageze mu zabukuru, bafashe telefone mu ntoki bari kurebamo bombi, umukecuru mu kuboko kwe kw'iburyo afashemo urupapuro, imbere yabo ku meza hateretseho ikirahure cy'amazi ndetse n'uducupa turimo imiti y'ibinini bagiye kunywa.

Umusaza ugeze mu zabukuru none bari kumutoza gukora imyitozo ngororamubiri. Umuganga w'umukobwa w'umuzungu, yamuhagaritse ku kuma kabugenewe ngo abe agenda agorora imitsi ye kugira ngo ubuzima bwe, burusheho kumera neza.

Umusaza ushaje cyane, yagiye kwa muganga none muganga yamushyize ikizigira ku kuboko, aho ari kumupima umuvuduko w'amaraso, ngo arebe uko ubuzima bwe buhagaze. Umusaza na we yatuje ategereje ko muganga amubwira igisubizo.

Umusaza ugeze mu za bukuru ari kumwe n'umukecuru we bose barishimyeMbari guseka cyane. Umusaza yambaye amadarubindi ndetse bose imisatsi yabo yabaye umweru.

Abagabo babiri bari kugenda mu muhanda, bari gukora imyitozo ngororamubiri, bambaye amashati y'imyeru n'amapantaro arimo amabara y'umukara, umwe atereye umupira ku rutugu, afashe n'agacupa k'amazi mu ntoki.

Icyapa cyanditseho amagambo kikaba kiri mu mabara asa ubururu, umweru ndetse n'uturonko dusa umuhondo, amagambo yanditseho ntabwo ari manini cyane ahubwo ni mato.

Amagambo yanditse ku rwandiko agiye yanditse ahantu hari ibara ry'ubururu, umweru ndetse n'umukara, aya magambo ari kugenda avuga ukuntu indwara ya virusi itera SIDA bayirwanya.

Inyandiko yanditseho amagambo ari mu ibara ry'ubururu ndetse n'ibara ry'umukara. Handitseho amagambo ari mu rurimi rw'Icyongereza, ku ruhande hari agakaramu k'umukara, urushinge ndetse n'akuma abaganga bifashisha.

Utuziga tubiri turi kuri iyi foto, kamwe karimo uturongo turi mu mabara y'ubururu, umutuku ndetse n'umuhondo ikindi gishushanyijemo utunyoni, hasi handitseho amagambo ari mu ibara ry'umukara.

Umugore wambaye ipantaro y'umukara n'agapira k'umukara, yambaye inyuma n'umupira w'imbeho w'umukara, yambaye baji mu ijosi ndetse afite indangururamajwi mu ntoki ari kuvuga kubijyanye n'ukuntu barwanya inda ziterwa abangavu zitateganyijwe.

Abantu bateraniye hamwe bari mu nama, imbere yabo hakaba hicaye abagabo batatu ndetse n'abagore babiri. Bakaba bari kuganira. Inyuma yabo hari icyapa cyanditseho insanganyamatsiko iri kuvugwaho muri iyo nama.

Icyapa cyanditseho amagambo asa icyatsi ndetse n'umukara, hakaba hariho ifoto y'umugabo, uyu mugabo bakaba bari kutwereka ko ari we uzatanga ikiganiro cyita ku bijyanye n'ubuzima.

Umukecuru ugeze mu zabukuru cyane, ashobora kuba yahuye n'impanuka agakomereka ijisho, none yagiye kwa muganga bapfutse iryo jisho rye kugira ngo barebe ko yakoroherwa, uwo mukecuru ari gushinyiriza.

Abaganga benshi cyane bateraniye hamwe, aho hari umurwayi waje arembye, bakaba bari kumwitaho ngo barebe ko bamusubiza ubuzima, ku rukuta hakurya yaho hari insakazamashusho ebyiri ziri kwaka.

Ingero nyinshi zigiye zitandukanye z'amabara bari kutwereka harimo amabara yerekana inkingo bakatubwira n'uburyo bwo kurwanya indwara ya COVID-19 yazahaje isi yose.

Inyubako nziza cyane ya Kigali Convention Center, ikaba yubatswe mu buryo bugezweho, iri mu mabara y'Idarapo y'u Rwanda. Iruhande rwayo hari umukobwa, hejuru handitseho amagambo avuga ngo ni umunsi Mpuzamahanga wo kurwanya Diyabete.

Umugabo n'umugore bafashe icyapa gisa ubururu ndetse n'icyatsi, cyanditseho amagambo mu ibara ry'umukara, hirya hari ikindi cyapa kiriho ikirangantego cya Repubulika y'u Rwanda.

Utuziga tugiye dutandukanye tugera muri dutandatu, turi kutwereka uburyo twakwirinda ndetse tugahagarika n'icyorezo cya Korona Virusi. Munsi hari ikirangantego cya Repubulika y'u Rwanda ndetse n'ikirango cy'Ikigo cy'Igihugu cyita ku Buzima mu Rwanda.

Umuntu wagize ikibazo cy'ihungabana, none aryamye ahantu mu gisambu. Abakorerabushake bazanye akagare ka burankari, bagiye kumutwaraho kugira ngo bamwihutane kwa muganga, bamuhe ubuvuzi.

Ikirango cy'uruziga kiza cyane kirimo amabara asa umweru ndetse n'ubururu, gifite umuzenguruko w'ubururu ndetse handitsemo amagambo ari mu ibara ry'umukara.

Umugabo n'umugore bahagararanye, bafite icyapa mu ntoki cyanditseho ngo hafi bibiri na mirongo itatu iterambere ry'u Rwanda rizaba rigeze ku yindi ntera, icyapa kirasa umukara ndetse amagambo yandikishije umweru n'umuhondo.

Abamama benshi bahuriye hamwe mu cyumba bigaragara ko bari mu nama, baricaye bambaye imyambaro myiza cyane y'impuzankano yiganjemo udupira tw'amabara y'umweru bicaye mu nzu yubakishije amatafari ahiye.

Abantu bateraniye hamwe mu cyumba bari mu nama. Bicaye ku ntebe zegamirwa zisa umutuku. Imbere hari abagore bagera muri bane n'umugabo umwe bari bakoresha iyo nama. Hari umugore ubyibushye ufite indangururamajwi ari kugira icyo ababwira.

Abagore batatu b'ababikira, aho hari umwe uri gusuhuzanya na minisitiri w'ubuzima Dogiteri Sabin Nsanzimana. Inyuma yabo hari ikirango kiri mu ibara ry'ubururu gishushanyijeho ikirangantego cy'u Rwanda na minisiteri y'ubuzima.

Abantu benshi bateraniye hamwe, hari umukobwa wambaye iby'umukara akaba yatanze ukuboko yaguhereje undi wambaye akajiri k'umutuku ari kumushyirira igipfuko ku kizugira cy'ukuboko, iruhande rwabo ku meza harambitseho indangururamajwi.

Inyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi kwa muganga, aho mo imbere harimo ibikoresho byinshi bifashisha muri izo serivisi, hasi hashashe amakaro asa shokora.

Ni kuri laboratwari. Inyubako nziza cyane, ikaba iriho ikirango cya Repubulika y'u Rwanda ndetse n'ikirango cya Kaminuza y'u Rwanda. Munsi hahagazemo umugabo wambaye itaburiya y'umweru.

Inzu nini nziza cyane iri kwererana, ni iyo kwa muganga ifitiye amabara y'umweru ku bikuta ikaba ifite inzugi ziri gusa ubururu butijimye, hakaba harimo ururabo rwiza cyane ruri mu kantu k'akabase ka k'icyuma ka kizungu. Isakaje amabati meza ikaba ifite porafo imbere harimo n'ibyapa bigenda biburira abantu n'ibindi birangira abantu aho bagana.

Abagabo n'abagore bari kugenda binjira mu nyubako nziza cyane, bafite udupaniye mu ntoki, bose bambaye udushati tw'umweru, iyo nyubako irasa neza ndetse yubatswe mu buryo bwa kijyambere.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, aho isize amarange asa icunga ndetse n'irange ry'ivu, hasi hahagazemo abantu bagera muri batatu.

Icyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi harimo ibyuma bigiye bitandukanye byifashishwa mu buvuzi. Harimo ameza ndetse n'intebe n'ibindi bikoresho bya gihanga bakoresha mu buvuzi.

Ni inyubako ifite imiryango ifunguye, hari umuryango umwe duteganya ukorerwamo ibikorwa byo gucuruza imiti ahazwi nko muri farumasi, igihe cyose ufite uburwayi uragenda bakaguha imiti byihuse.

Iyi inyubako nziza cyane isakaje amabati y'ubururu ifite ibikuta bisa ubururu, hanze haparitse imodoka imwe, hari n'abandi bantu bagera muri bane. Iyo mbuga ishashemo amapave.

Ni kwa muganga mu cyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi, harimo umugabo uryamye ndetse hakaba n'abaganga bari kugenda bita kuri abo barwayi baryamye aho ngaho kuri utwo dutebe.

Inyubako nziza cyane, yubakishije amatafari ahiye ariko kuri ayo matafari, hakaba hateyeho irange ry'umweru. Iyi nyubako, ifite ibirahure bibonerana, hejuru handitseho amagambo ari mu rurimi rw'Icyongereza, mu mabara agiye atandukanye.

Umuganga w'umugore yambaye agapfukamunwa ari gutambuka mu cyumba gitangirwamo serivise z'ubuvuzi, inyuma ye hari undi muganga na we uri kuza wambaye ipantaro y'umukara muri icyo cyumba.

Icyumba kiba kirimo imiti igiye itandukanye yifashishwa mu gutanga serivisi zijyanye n'ubuvuzi kirafunguye, ariko nta muntu numwe ukirimo, ariko amatara ari kwaka.

Inyubako nziza cyane y'Ibitaro bya Rwamagana, ikaba yubatswe mu buryo bugezweho, ifite inzugi nziza ndetse n'amadirishya, hanze yayo hari abantu bari kuhifotoreza benshi b'abera ndetse n'abirabura.

Ni mu cyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi kwa muganga, aho hari abantu baza bakicara kuri ibi bitanda kugira ngo bahabwe serivisi baje gushaka.

Inyubako zo kwa muganga zitangirwamo serivisi zigiye zitandukanye z'ubuvuzi, hakaba hari n'ubusitani bwiza cyane, akayira kaganayo gashashemo amapave, hakaba hari kugenderamo umwana ufite ubumuga ugiye kwivuza.

Inyubako nziza cyane yo kwa muganga, itangirwamo serivisi zigiye zitandukanye zo kwita ku barwayi, mo imbere nta muntu n'umwe urimo ndetse hari n'ibirahuri byiza cyane bitabonerana, amatara yaho ari no kwaka.

Icyumba gitangirwamo serivise z'ubuvuzi kwa muganga, hari insakazamashusho iri kwaka, imbere yaho hari igitanda gisa ubururu, igikuta giteye amarangi y'umweru ndetse hari n'irido.

Ikigo nderabuzima cya Nyarurenzi, kikaba gifite inyubako yubatse neza cyane, munsi harimo abantu baje gushaka serivise, ndetse n'igorofa ryo hejuru naho hicayemo abandi.

Icyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi kwa muganga, aho harimo ibikoresho byinshi bigiye bitandukanye byifashishwa mu buvuzi. Nta muntu n'umwe urimo amatara arikwaka umweru n'ibikuta bisa umweru.

Iyi ni farumasi. Aha ngaha bahacururiza imiti igiye itandukanye. Igihe umuntu afite uburwayi, namugira inama yo kuhanyarukira bakamuha imiti byihuse, aho kujya kwirwa atonze imironko ku ivuriro.

Inyubako itangirwamo serivisi zigiye zitandukanye kwa muganga, aho hari abantu benshi bagiye kuhashaka izo serivisi. Hari imodoka iparitse aho hanze. Izo nyubako kandi zubakishijwe amatafari ahiye.

Ni mu cyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi kwa muganga, aho harimo umugabo ndetse n'umugore bari gukora isuku, bagenda bakoropa hasi, harimo ibitanda biryamyemo abarwayi.

Inyubako nziza cyane yubakishije amatafari ahiye, ikaba isakaje amabati asa ubururu, ikaba yanditseho amagambo mu ibara ry'umukara avuga ngo: Isange one stop center, ikaba iherereye i Remera Rukoma.

Inyubako nziza cyane isakaje amabati y'umutuku ikaba ifite inkingi zisa n'ivu ndetse umuryango wayo ukaba ufunguye, ku mbuga hateyemo sima ndetse hari n'ubusitani bwiza cyane.

Icyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi, kikaba cyubatswe mu buryo bw'amayobera, gifite amakaro asa neza ariko adasa umweru, hari ikiziga gisa shokora cyandikishijweho amagambo y'umweru avuga ngo: Ni intebe zitangirwaho amakuru.

Ni kwa muganga hari abantu benshi cyane bahicaye bategereje serivise, imbere yaho hari imiryango ifunze handitseho ko ari aho bakirira ababagana ku kigo nderabuzima.

Umumama wambaye agasengeri k'ubururu, aho yazanye umwana wambaye iby'umweru kwa muganga, muganga na we ari kumwitaho yambaye amadarubindi, agapfukamunwa ndetse n'akanozasuku n'itaburiya y'umweru, ari kureba uko ubuzima bw'umwana buhagaze.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho bwa etaje, ikaba ifite ibirahuri byiza cyane bya fime ndetse hari kaburimbo imbere yayo, hari n'igiti cy'umukindo.

Ni mu iduka ricuruza imiti igiye itandukanye ivura indwara nyinshi cyane ahazwi nko muri farumasi. Hari etajeri irimo udukarito ndetse n'uducupa turimo iyo miti.

Icyumba gitangirwamo serivise z'ubuvuzi kwa muganga. Hari ibitanda bigezweho aho haba hariho n'utwuma dutangira umurwayi kugira ngo adahanuka. Turi mu mabara y'umweru ndetse n'ubururu.

Inyubako nziza cyane isakaje amabati y'ubururu ikaba ifite ibikuta biteye irange ry'ubururu, hanze haparitse imodoka ndetse hari n'abantu bagera muri bane bahari, imbuga yaho ishashemo amapave.

Ku bitaro byitiriwe Umwami Fayisari, hari abarwayi baje kwivuza, hari abaganga hakaba umuntu wambaye akajiri k'umuhondo, yambaye n'ingofero n'imyenda y'amabara, ibi bitaro bifite inzugi zifite irangi ry'ubururu ndetse hari n'amabendera y'ibihugu byinshi.

Aha ni kwa muganga hari inzu ifite amabara y'umuhondo ku bikuta, hamanitse na supanete. Hari umuganga w'umugore wambaye amataratara ari gusuzuma uyu mubyeyi ngo arebe uko ameze.

Icyumba gitangirwamo serivise z'ubuvuzi, harimo ibikoresho byinshi cyane bifashisha ndetse ku bikuta hashushanyijeho inyamaswa z'amoko atandukanye, harimo nk'inzovu, ingwe, impyisi ndetse n'indogobe.

Inyubako itangirwamo serivise zijyanye n'ubuvuzi aho nta muntu n'umwe uyirimo. Hasi amakaro arasa ibara rya shokora, ku miryango hagiye haditseho nimero zigiye zitandukanye aho bashyira abantu bari mu muhezo.

Aha ni ku irembo ry'ibitaro bya Kabgayi, biherereye mu karere ka Muhanga mu ntara y'amajyepfo, ibi bitaro bikaba bivura indwara by'umwihariko iz'amaso.

Mu cyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi kwa muganga, harimo ibikoresho byinshi bigiye bitandukanye, harimo n'insazamashusho ebyiri, harimo kandi n'igitanda kijyanyeho umurwayi waje kwivuza.

Abantu bari imbere y'ikintu cy'igishushanyo cy'ikibumbano cyanditseho ngo butaro hosipito. Umuzungu acyegamiyeho akaba agaragiwe n'abakobwa inyuma ye hari umugabo munini no hirya ku ruhande rw'iburyo hakaba hari abandi bantu benshi harimo n'abazungu benshi cyane.

Ni icyumba gitangirwamo serivise zijyanye n'ubuvuzi, aho hicayemo umugabo wambaye imyambaro y'abaganga ndetse n'abandi baganga bagenzi be, bari muri icyo cyumba.

Icyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi zigiye zitandukanye, harimo intebe zifashishwa mu gutanga izo serivisi zikaba zisa umukara, zikikije imeza y'uruziga.

Inzu nziza cyane mo imbere harimo amavaze ateyemo indabyo, ariko kandi harimo intebe zigera muri eshatu ziriho imifariso, hariho n'utumeza dutatu tw'amabara y'umukara, umweru ndetse n'ibara ry'igitaka.

Inyubako ikikijwe n'urugo rw'amabuye, uru rugo imbere yarwo hari inzira y'amapave hakaba hari indabyo nziza cyane, ahagana hirya hakaba hari indi nyubako irebye hiya, hakaba hari n'inzira isakaje amabati abagenzi bacamo.

Icyapa gisa umwe, gifite utubara tugiye dusa ubururu, kikaba kiri kwerekana inyubako y'ubuvuzi iherereye hafi aho ngaho.

Inyubako nziza cyane zubakishijwe amatafari ahiye, hari ubusitani bwiza cyane, ndetse n'utuyira tuhagana tugiye dushashemo amapave meza cyane, ikirere kirasa ubururu ndetse n'umweru.

Inyubako nziza cyane yubakishije amatafari ahiye, aho igiye iciyeho uturonko dusa umweru, ifite ubusitani bwiza cyane burimo ibyatsi bitoshye.

Inyubako nziza cyane yubakishije amatafari ahiye, ikaba ari laboratwari, ifite ubusitani bwiza cyane ndetse hari n'abantu baje kuhashaka serivisi, bicaye mu ntebe ziri aho ngaho.

Inyubako nziza cyane itangirwamo serivisi zijyanye no gucuruza imiti, hakaba handitseho ngo ni muri farumasi kwa IRAGUHA, hari imiryango ibiri ifunguye ndetse n'abantu bari mo imbere bagiye kuguramo imiti.

Inyubako nziza cyane yubakishije amatafari ahiye, ikaba ifite ubusitani busa icyatsi, burimo ibyatsi, ikaba ifite utuyira tuyiganaho dushashemo amapave.

Inyubako nziza cyane aho ifite ibikuta biteye amarange y'umweru, amatara arimo arasa umweru ariko arajimije, hasi kuri sima harasa umukara, harimo ibikoresho byinshi bitandukanye byifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri.

Inyubako nziza cyane yubatswe neza aho iteye karabasasa zisa umuhondo, hakaba handitseho amagambo avuga ko ari ikigo cyita ku barwayi bo mu mutwe cya Caraes giherereye mu karere ka Huye.

Abagabo babiri bahagaze bambaye amataburiya n'ubupfukamunwa, uko bigaragara ni abaganga. Bapfunduye icyuma kifashishwa mu buvuzi bari kurebamo ngo barebe ko kiri gukora neza.

Icyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi kirimo ibikoresho byinshi cyane bigiye bitandukanye. Harimo insakazamashusho zigera muri eshatu n'ameza arambuyeho ibitambaro bisa ubururu bwerurutse.

Icyumba gitangirwamo serivise zigiye zitandukanye z'ubuzima, aho gifite inkuta zisa umweru, hakaba harimo n'agatanda gasa umukara, iki cyumba ni cyiza cyane.

Inyubako nziza cyane yubakishije inkuta zifite amabara y'umweru n'umukara, ikaba isakaje amabati asa umutuku, imbere yaho hari idarapo rya repubulika y'u Rwanda, ndetse n'irindi darapo risa umweru.

Umukobwa bigaragara ko atanga serivisi zijyanye n'ubuvuzi, yambaye impuzankano z'abaganga, akaba ari gutembera mu cyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi, aho kirimo udutanda abarwayi baryamaho turi mu mabara y'umweru.

Ni mu cyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi kwa muganga harimo ibikoresho byinshi nkenerwa abaganga bifashisha bari kwita ku barwayi bakagenda babavura. Ibi byuma rero ni ingirakamaro, ni ngombwa ko ku kigo nderabuzima...

Abaganga bagera muri batanu bateraniye mu cyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi, bari kureba mu byuma kabuhariwe ngo barebe ko serivise batanga zimeze neza.

Ku Kigo Nderabuzima cya Gishwiru, turahabona umugabo uhagaze yambaye ipantaro y'umutuku, afite impapuro, yambaye n'ishati y'ubururu n'umuhondo n'ingofero y'umutuku, hakaba n'undi mugore wambaye itaburiya y'umweru n'ipantaro y'umukara, hakaba n'undi mudamu wambaye umupira w'umutuku n'ijipo, hakaba inyuma n'undi mugabo wicaye ku rubaho, yambaye agapira k'icyatsi. Iyi ni inyubako nziza igezweho imeze neza cyane.

Icyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi cyanecyane ku bantu baje bafite ikibazo, bakeneye gukora imyitozo ngororamubiri. Muganga abavana muri iki cyumba, hanyuma bakajya babakoresha imyitozo.

Umugore w'umuganga uri kugenda mu cyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi, akaba yambaye impuzankano zisa ubururu bwijimye, imbere ye hakaba hari abandi baganga bari muri icyo cyumba bafatanyije umwuga.

Inyubako nziza cyane zubatswe ku buryo bugezweho. Akaba ari inyubako zo ku bitaro by'Akarere ka Nyarugenge. Hari ubusitani bwiza cyane ndetse n'akayira kajyayo gashashemo amapave.

Aha tubona ni ku marembo yinjira mu bitaro bya Nyanza kubera ko ku muryango handitseho Nyanza hosipito afite urugi rw'ubururu ndetse n'imbere harimo inyubako hariho na etaje hirya hakaba hari kugaragara umunara muremure wasumbye inzu.

Icyumba gitangirwamo serivisi zigiye zitandukanye z'ubuvuzi, aho mo imbere harimo ibyuma bigiye bitandukanye. Harimo insakazamashusho ifunze ndetse na mudasobwa, ibikuta by'iyo nzu biri mu mabara y'umweru.

Ni mu cyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi kwa muganga, aho hari icyuma bacishamo umuntu kugira ngo bamenye uko ubuzima bwe buba buhagaze muri iyo minsi.

Icyumba gitangirwamo serivisi zijyanye n'ubuvuzi, haryamyemo umwana w'umurwayi yiyoroshe amashuka asa ubururu n'umutuku. Hamanitsemo amarido kandi y'icyatsi agenda atandukanya ibitanda.

Iyi farumasi yitwa Peniel ni farumasi igezweho yanditseho ko bakorana na mediplam ndetse n'ibindi bigo, hari moto iparitse imbere iriho umumotari ufite kasike imbere y'icyatsi.

Ni mu cyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi, aho harimo ibikoresho byinshi cyane bigiye bitandukanye, byifashishwa mu gutanga serivisi z'ubuvuzi. Ku bikuta hariho imirongo isa umweru, ubururu ndetse n'umutuku.

Inyubako nziza cyane, aho imbere yayo haparitse imodoka zigera muri eshatu. Hamanitseho n'igipapuro cyanditseho amagambo ndetse hariho n'ikirangantego cya repubulika y'u Rwanda.

Ni icyumba gitangirwamo serivise z'ubuvuzi kwa muganga, aho harimo abantu bashushanyije ku bikuta, ibitanda bihari nta muntu uryamyeho, agatebe k'umukara gahari na ko gafite amapine y'umukara.

Inyubako nziza cyane isakaje amabati y'ubururu ndetse ikaba ifite ibikuta biteye amarange y'umweru yubakishije n'amatafari ahiye, hakaba handitseho ngo "Inzu y'ababyeyi".

Umuntu uri mu cyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi, aho ari kugenda azinga inzitiramibu ziri mu mabara y'ubururu, hari ibitanda bigiye bitandukanye abarwayi baryamaho.

Ni mu cyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi kwa muganga, aho hari icyuma cy'uruziga giteganye n'igitanda, aho kuri iki gitanda baryamishaho umuntu bagiye kunyuza mu cyuma, hanyuma iki cyuma kikareba uko ubuzima bwe buhagaze.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, iteye amarangi y'umweru, imbere yayo hari imbuga ya kaburimbo iparitsemo imodoka isa umukara, amarembo yayo yubakishije amatafari ahiye ndetse arafunguye.

Umuntu wavunitse igihe yakoraga imyitozo ngororamubiri, yihutiye kwa muganga. Muganga nawe amufashe ukuguru ari kugenda akandaho n'amaboko ye yombi kugira ngo umurwayi agende yoroherwa.

Icyumba gitangirwamo serivise z'ubuvuzi kwa muganga, hari icyuma cyabugenewe baryamishaho umurwayi baje gupima, hanyuma bakareba uburwayi aba afite kuko umutwe we awushyira muri kano kaziga.

Umudamu wagiye kwa muganga kwivuza kubera ko yavunitse ari gukora imyitozo ngororamubiri, muganga yamushyize ibarafu ku kuboko kwe isa ubururu kugira ngo ajye akandishaho.

Abantu benshi cyane bambaye amajire y'ikigo gitanga ubutabazi bw'ibanze mu Rwanda kizwi nka croix rouge, aho ayo majiri ariho imisaraba isa n'umutuku ndetse hakaba hari n'umuntu uri imbere bari kwitaho.

Umuntu wavunitse igihe yakoraga imyitozo ngororamubiri, yagiye kwa muganga none bamwicaje mu ntebe yabugenewe, akaguru ke bakarambitse hejuru, bari kugenda bakagorora gake gake bifashishije ibi ibyuma.

Akagare gatwarwamo abantu bafite ubumuga bwo kutagenda, kakaba gafite amapine ane, gafite umufariso usa umukara ndetse n'utwuma dusa ubururu.

Agasanduku k'umweru, karimo ibikoresho bitandukanye, bifashisha bari kuvura umuntu wagize ikibazo igihe yari arimo akora imyitozo ngororamubiri. Harimo ibikoresho biri mu mabara y'icyatsi n'umuhondo ndetse n'umutuku.

Mu cyumba gikorerwamo siporo ngororamubiri, aho ari umukobwa usutamye ari kureba umusore uri gukora imyitozo ngororamubiri. Uko bigaragara uyu musore yubatse umubiri koko.

Abantu bagera muri bane, bari gukora imyitozo ngororamubiri, uko bigaragara bose ni ab'igitsina gabo. Bari kugenda mu muhanda wa kaburimbo urimo uturonko twinshi dusa umweru.

Umukobwa uri gukora imyitozo ngororamubiri, aho ari mu cyumba gikorerwamo imyitozo ngororamubiri, afite ibyuma ari kugenda asunitse, uko asunika ni na ko imitsi ye irushaho kugenda igororoka.

Umuganga ari gukanda umuntu wavunitse ku ivi ari ku mwunga, uyu muganga yambaye ikaburiya y'umweru afite n'utuntu tumuri ku gituza duciye mu ijosi bambara mu matwi bari kumva uko umurwayi ahagaze.

Akuma kameze nka mubazi, aka kakaba kifashishwa igihe umuntu ari gukora siporo kuko kamufasha kumenya ibirometero yabashije kwiruka.

Umukobwa uri gukora imyitozo ngororamubiri, aho yambaye agakabutura kagufi k'icyatsi n'agasenge k'icyatsi. Yambaye n'inkweto za sipuresi zijya gusa icyatsi, taro ni umweru.

Umuntu wari uri gukora imyitozo ngororamubiri none arananiwe abize icyunzwe none ari kwimenaho amazi mu maso, ni byiza cyane gukora imyitozo ngororamubiri kuko bituma umuntu agira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Umuntu wavunitse igihe yakoraga imyitozo ngororamubiri, yihutiye kujya kwa muganga. Muganga ari kumwitaho aho ari kugenda agorora ukuguru kwe. Yambaye itaburiya isa ubururu y'amaboko aciye.

Umugabo uri kunywa amazi akoresheje agacupa gasa umweru. Uko bigaragara afite ubwanwa bukiri butoya.

Umusore uri gukora imyitozo ngororamubiri yambaye imyenda y'umukara ipantaro n'isengeri afite na moteri mu matwi yambaye ndetse n'inkweto zisa umweru akaba yashinze ukuguru kumwe ndetse yashinze n'ivi.

Agakapu k'akavarisi gafunguye uko bigaragara karimo imiti igiye itandukanye, yifashishwa mu kuvura umuntu wagize ikibazo igihe yakoraga imyitozo ngororamubiri.

Agasanduku gasa icyatsi gafunguye, kakaba karimo imiti myinshi igiye itandukanye yifashishwa mu gutanga ubutabazi ku bantu bagize ikibazo cy'imvune igihe bakoraga imyitozo ngororamubiri.

Icyapa cyanditseho amagambo menshi agiye atandukanye, iki cyapa kiri mu mabara y'ubururu, amagambo yanditseho ari mu mabara yiganjemo ubururu, icyatsi, move, iroze ndetse n'umuhondo.

Ukuguru k'umuntu wavunitse igihe yakoraga imyitozo ngororamubiri none bakaba bashushanyije ku kabumbambari kiwe, ahantu hari imvune mu mabara y'ubururu ndetse n'umutuku.

Umusore ufite amatugu n'amatuza ari guterura icyuma kugira ngo ubuzima bwe bugende neza, ahagarikiwe na muganga wambaye agashati ka buresiyeri ndetse n'ipantaro ijya gusa umukara.

Umwana muto cyane wagiye kwivuza kwa muganga none muganga akaba yamutunze icyuma cyifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye, umwana ari kurebamo nta mususu bigaragara ko nta bwoba afite na buke.

Akuma kifashishwa igihe umuntu aba ari gukora imyitozo ngororamubiri, kameze nka mubazi. Kari mu mabara y'umweru, aho umuntu akambara akagenda amenya ibirometero yakoze, igihe yari arimo akora iyo myitozo.

Umuntu wagize ikibazo k'imvune none akaba yambaye inkweto y'inshongo ari kumwe n'abantu bari kugerageza kumwitaho ngo barebe ko yakoroherwa, aryamye ahantu hari matera isa ubururu.

Umugabo wambaye agapira k'umweru mo imbere yambariyemo isengeri y'umukara, afite agatambaro akojeje ku kaboko ameze nk'uri kwiyunga yavunitse, ari kureba hino yicaye muri saro mu ntebe z'imisego begamira zimwe z'abakire.

Abantu bari gukora siporo zigiye zitandukanye, hari abari gukina umupira, abari gukina tennis, abari kunywa amazi, abari kwiruka ndetse n'abandi bari gukora ibindi bintu bigiye bitandukanye.

Umukobwa wari uri gukora imyitozo ngororamubiri ariko icyaka kiramwishe afashe agacupa karimo amazi ari gusomaho kugira ngo ngo agarure ubuyanja yambaye isengeri y'umukara n'ipantaro yumukara yazirikiye telefoni ku kizigira cy'ukuboko.

Umwana ufite ikibazo cy'uburwayi yagiye kwa muganga, none muganga yafashe icyuma kabuhariwe ari gutunga mu kanwa ke kugira ngo arebe niba ameze neza, iruhande rwe hari ababyeyi babiri bigaragara ko ari papa we na mama we.

Umusore wambaye imyambaro y'ubururu n'agapfukamunwa, akaba afite icyuma kifashishwa mu gupima umwana ngo barebe uko ubuzima bwe buhagaze, uwo mwana acigatiwe na mama we, bose bambaye udupfukamunwa uretse umwana.

Umukobwa uri gukora imyitozo ngororamubiri, yambaye ipantaro y'umukara ndetse utubuno yatureze, ari gukora imyitozo ngororamubiri, aho yazamuye n'amaboko.

Ingofero isa umweru, umuhondo ndetse n'umukara, ikaba izwi mu ndimi z'amahanga nka masiki, aho umuntu ayambara bikarinda umutwe we kuba wagira ikibazo.

Akuma kifashishwa bari gutanga ubutabazi bw'ibanze ku muntu wagize ikibazo cy'imvune igihe yakoraga imyitozo ngororamubiri. Kari mu mabara y'umuhondo ndetse gatambitsemo udushumi dusa umukara.

Umugore w'inzobe w'umuzungu, aho ahagararanye n'umubikira w'umwirabura, ufite akana imbere ye. Bicaye mu cyumba, ndetse harimo n'abandi bantu benshi, hatatse ibitambaro imbere biri mu mabara y'umweru, ubururu, ndetse n'umuhondo.

Ishusho y'uruziga rurimo abasore babiri, bari kurwana, bakina umukino wa karati. Umwe yambaye imyenda y'ubururu, undi yambaye iy'umweru. Bakaba bakina umukino uzwi nka jido.

Umugabo uri kunywa amazi muri gurudu isa ubururu. Yambaye agapira k'ubururu ndetse yambaye na kuteri mu ijosi. Ni byiza cyane kunywa amazi igihe twari turi gukora imyitozo ngororamubiri.

Umukobwa wirabura, akaba yicaye, yambaye imyenda isa umukara, ari gukora imyitozo ngororamubiri ariko iruhande rwe harambitse amazi kugira ngo niyumva ananiwe aze gusomaho.

Umusore wambaye agapira k'umukara n'ipantaro y'umukara, akaba yavunitse igihe yakoraga imyitozo ngororamubiri none akaba yagiye kwa muganga, abaganga bari kumwitaho kugira ngo barebe ko yamererwa neza akaba yakira.

Iki ni igisayidirakuguru, aho ishyirwa mu ivi. Kirasa umukara ndetse iki ngiki umuntu acyambara agiye gukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo abashe kujya atambuka neza.

Umugabo wari uri gukora imyitozo ngororamubiri none akaba ananiwe yabize ibyunzwe, none afite icupa ry'amazi mu ntoki ari kugenda yimenaho amazi kugira ngo arebe ko yagarura ubuyanja.

Udukarito tugera muri dutanu dufite imishumi igiye itandukanye mu mabara. Umwe urasa umuhondo, uwa kabiri umutuku, uwa gatatu icyatsi, uwa kane ubururu, uwa gatanu umukara.

Umukobwa wicaye ari gukora imyitozo ngororamubiri, aho yambaye ipantaro y'umukara, agasengeri k'umutuku, ndetse n'inkweto zisa umutuku zifite taro y'umweru.

Hano hari kugaragara uducupa tune kamwe karekarekaga no hino ahagana hirya hari akandi gakurikiyeho, hakaza n'utundi tubiri dutoya twose turapfundikiye, ikigaragara ni umuti gakondo ukozwe mu byatsi.

Ni byiza cyane gukora imyitozo ngororamubiri nk'uko abaganga bahora babidushishikariza. Uyu rero ni umukobwa wambaye imyambaro iri mu mabara y'umutuku, aho ari gukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo ubuzima bwe bumere neza.

Ni umuntu ufite ikibazo cy'imvune akaba yagiye kwa muganga, none muganga yamushyize ku byuma byabugenewe, kugira ngo agorore imitsi ye arusheho kumererwa neza.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo icyuma cyifashishwa bagiye kureba ko ubuzima bw'umuntu bumeze neza aribyo bita kumunyuza mu cyuma, kikaba kiriho agatanda umurwayi aryamaho ndetse n'aho ashyira umutwe, kiri mu mabara y'umweru.

Kwa muganga hari intebe nziza ifite umufariso n'aho begamira, hari izindi ntebe, hakaba n'akantu hejuru wagira ngo ni kamera ahantu aho bicaza umurwayi kugira ngo basuzume bamurebe uko ameze neza, hepfo hari n'akabati kariho udupapuro n'ibindi bikoresho byifashishwa kwa muganga.

Ni mu cyumba gitangirwamo serivise z'ubuvuzi kwa muganga aho harimo icyuma kizwi nka scanner banyuzamo umurwayi igihe bagiye gusuzuma ngo barebe uko ubuzima bwe buhagaze, icyo cyuma kiri mu mabara y'umweru.

Umukobwa uri gukora imyitozo ngororamubiri, aho yashyize amaboko hasi, akaba aryamye yarambuye umugongo araramye. Iruhande rwe hari amavase agera muri abiri ateyemo indabyo.

Umukobwa wicaye ari gukora imyitozo ngororamubiri, yambaye agakabutura k'ubururu karimo uturongo tw'umweru, ndetse n'agasengeri kari gusa umutuku. Akaba yicaye ,yarambuye amaboko ari kuyakoza muri taro z'inkweto ze.

Uyu nguyu ni umuntu wari uri mu myitozo ngororamubiri aravunika, none yihutiye kujya kwa muganga, muganga yamufashe ukuguru, undi ari gutaka, muganga akamubwira ati:"Rindira gatoya ndaje ndagukiza."

Icyumba kiri mu mabara y'umweru, harimo icyuma na cyo gisa umweru kiriho n'igitanda kiryamishwaho umurwayi igihe baba bashaka kumunyuza mu cyuma ngo barebe uko umubiri we uhagaze.

Icyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi zigiye zitandukanye, hakaba harimo ibikoresho byose nkenerwa byifashishwa mu buvuzi, hakaba harimo n'abantu batanga ndetse n'abaje gushaka serivisi z'ubuvuzi.

Umukobwa utereye agatambaro ku rutugu akaba afite icupa ry'amazi ari kunywa, iryo cupa rirasa umweru umupfundikizo waryo urasa ubururu, ni byiza kunywa amazi kuko bituma umubiri w'umuntu uhora umeze neza.

Umugabo uri gukora siporo ashyize amaboko yose inyuma yayahu ku mutwe yambaye isaha yambaye n'agapira gaciye amaboko' gasingiri, afite umusatsi ikigaragara yakoze siporo none ni umusore mwiza w'ibigango.

Ni mu cyumba gitangirwamo serivise z'ubuvuzi kwa muganga, harimo umusore wambaye udupfukantoki, akaba ari muri icyo cyumba kirimo ibikoresho byinshi. Ari kugenda asuzuma ngo arebe ko ibyo bikoresho bimeze neza ndetse byiteguye kuba byatanga ubutabazi bw'ibanze ku barwayi bahaje.

Umuntu wavunitse igihe yakoraga imyitozo ngororamubiri, bamugiriye inama yo kwihutira kujya kwa muganga, none yagezeyo muganga ari kumwitaho agenda amupfuka ahantu yakomeretse.

Umusore warurimo akora imyitozo ngororamubiri hanyuma aza kuvunika, yamenye ubwenge yihutira kwa muganga none bamusuzumye basanga yavunitse ku rutugu, aho yavunitse bahashushanyishije uturongo tw'umutuku n'ubururu.

Umukobwa wazamuye amaboko, akaba afite imisatsi ya menshi yazirikiye inyuma, akaba arimo gukora imyitozo ngororamubiri, ariko uyu mukobwa ntabwo agaragara mu maso he.

Akuma kameze nk'imbago gafite amapine munsi agera muri ane asa umukara, ku rufatiro harasa umukara ndetse hagati harimo n'akandi kantu gasa umukara, ahandi hose hasigaye harasa umweru.

Umukobwa wicaye kuri tapi y'umukara afite imashini imbere ye ya mudasobwa, imbere hari utuntu tubiri tumeze nka ariteri dusa iroza, twifashishwa mu myitozo ngororamubiri ameze nk'uri gukuramo isengeri y'umukara yikoze ku ntugu zombi.

Umukobwa igihe yarimo akora imyitozo ngororamubiri yatsikiye aza kuvunika, none yagiye kwa muganga, muganga yamwicaje ku gitanda asuzuma ahavunitse asanga ni mu ivi none yashushanyijeho uturomo turi mu mabara y'umutuku ndetse n'umweru kugira ngo bimuyobore.

Abantu benshi bateraniye hamwe bishimye bari gukoma mu mashyi, aho bari kureba abana bari gukina umukino wa basket, hari umwana wasimbutse ari kwishimira cyane igitego kimaze gutsindwa.

Umukobwa wavunitse igihe yakoraga imyitozo ngororamubiri none yihutiye kujya kwa muganga. None abaganga bakaba bamupfutse ku ivi rye kugira ngo amaraso arekeraho gukomeza gutemba.

Umukobwa uri gukora imyitozo ngororamubiri, aho yambaye ekuteri z'umweru ndetse akaba yambaye n'agasa k'umukara, yazirikiye telefoni mu kizigira cy'ukuboko akaba yazamuye akaboko kamwe yagafatishije mu nkokora akandi gafashe mu mugongo.

Umurwayi urembye cyane wagiye kwa muganga none bamuryamishije bamwubaritse. Bashyize serumu mu mugongo. Hari umuganga urikumwitaho wambaye agapfukamunwa. Inyuma ye hari irido ry'ubururu.

Ikizingo gisa umweru aho cyifashishwa bari gupfuka umuntu wagize ikibazo cy'imvune, igihe yakoraga imyitozo ngororamubiri, bagishyira aho hantu maze akagenda akira gake gake.

Amagambo asa icyatsi yanditse ahantu hasa umweru, hejuru handitseho ngo Viateur Nshimiyimuremyi, akaba ari inararibonye mu bijyanye n'ubuvuzi.

Umusore wambaye ekuteri mu matwi, yambaye umupira w'umweru uciye amaboko, yambaye n'agasaha ku kuboko. Afite icupa ry'amazi arararamye ari kuyanywa.

Umusore uri gukora imyitozo ngororamubiri aho yunamye akaba afashe ku ivi, yambaye agakabutura k'umukara ndetse n'isaha ku kuboko, ni byiza cyane gukora imyitozo ngororamubiri kuko bituma umuntu agira ubuzima bwiza.

Umuntu wavunitse igihe yarimo akora imyitozo ngororamubiri, yagiye kwa muganga none muganga ari kumukoresha siporo kugira ngo agororoke, aho yazamuye ukuguru, akaba agufashe mu ntoki ze.

Mu muhanda wa kaburimbo hari kugendamo imodoka ya Ambulance. Ikaba ifite ipine inyuma. Iyi ngiyi mu Rwanda izwi nk'imbagukiragutabara, aho ifasha umuntu wagize ikibazo mu buryo bworoshye kandi bwihuse.

Agatanda k'icyuma karambitseho utuvaze tugera muri twinshi dusa umutuku, utwo tuvage tukaba duteyemo indabyo nyinshi zigiye zitandukanye.

Agacupa kameze nk'akavamo korogati. Karambitse ahantu gacuritse. Aho karambitse harasa icyatsi. Aka gacupa, gashushanyijeho igikakarubamba. Bigaragara ko, karimo umuti wifashishwa mu buvuzi bwa gakondo.

Ishyamba kimeza ririmo ibyatsi n'ibiti harimo igiti kirekire gifite amashami gisa nk'icyasadutse, hakaba n'ibyatsi bigufi, ahagana hirya hari ikindi gihuru cy'ibiti binini cyane ku buryo cyaba kibamo inyamaswa z'inkazi.

Aha turahabona ubwoko bw'ibyatsi byinshi bitandukanye, hariho ibimeze nk'imigwegwe ibindi by'ibyatsi byo mu ishyamba ntamenya, ibigaragara ni uko ari ibiyavamo imiti gakondo.

Ibyatsi by'ibimera bigiye bitandukanye byameze ahantu mu gisambu. Ibi byatsi iyo bikuze bitunganywamo umuti wifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye za gakondo.

Icyatsi cy'igikarubamba kiba gifite amababi agiye asongoye kijya kumera nk'urubuto rw'inanasi. Iki ngiki rero kivura indwara nyinshi zitandukanye zigera muri cumi na zirindwi.

Uducupa dutandukanye tuba turimo imiti gakondo, tumwe turahagaze utundi turaturitse. Turi mu mabara agiye atandukanye, umweru, umuhondo ndetse hakaba hashushanyijeho n'ikimera cy'igikakarubamba.

Icyapa gifite umuzenguruko w'icyatsi, ubuso bw'umweru, hakaba hashushanyijemo akanyoni kari kuguruka, handitseho amagambo mu ibara ry'ubururu ndetse harimo n'igishushanyo cy'igikakarubamba.

Aha hari utununtu tw'udupaki twinshi tw'udukarito turimo imiti gakondo yakwifashishwa mu kuvura, kuko handitseho amagambo agaragaza ko ari imiti iva mu byatsi karemano by'ibimera.

Icyatsi k'ikimera, giteye ahantu mu ntabire. Iki cyatsi nukibona ntukagihungabanye. Kuko ni ingirakamaro cyane. Iyo gikuze baragitunganya, kikagenda kikavamo umuti, wifashishwa mu kuvura indwara gakondo, zigiye zitandukanye.

Imiti gakondo igiye itandukanye. Hari akajage karimo indabyo ndetse n'ibindi byatsi biri mu mabara y'icyatsi, umweru ndetse n'umuhondo. Hari utumamiyo tubiri, kamwe kariho ibinini by'umweru, akandi by'umuhondo. Hari n'uducupa tugera muri tune.

Uducupa tugiye dutandukanye, turimo imiti yifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye, by'umwihariko indwara za kinyarwanda. Dushushanyijeho ibikakarubamba, aho bivura indwara zigiye zitandukanye.

Agacupa karimo umuti wa Kinyarwanda ukozwe mu muravumba, gasa icyatsi, kakaba gafite umupfundikizo w'icyatsi, karimo umuti usukika w'ibyatsi bita umuravumba, uyu muti ukoreshwa mu kuvura indwara nyinshi gakondo za Kinyarwanda.

Uducupa tugera muri tune, buri gacupa kakaba karambitse ahantu hari ibara ryako, utu ducupa twose tukaba dushushanyijweho ikimera cy'igikakarubamba, tukaba turimo imiti gakondo ivura indwara zinyuranye.

Agacupa k'umweru ndetse kakaba kanditseho amagambo ari mu ibara rijya gusa umutuku, inyuma yako hari ibintu by'amaronji bisataguye biri gusa umuhondo.

Ibyatsi by'ibimera bigiye bitandukanye, biri mu mabara y'icyatsi, harimo kandi n'itunda. Ibi byatsi ni ingirakamaro cyane kuko bifasha mu kuvura indwara nyinshi zigiye zitandukanye za kinyarwanda.

Agacupa k'umweru, gapfundikiye umupfundikizo usa ubururu, kakaba karimo umuti wa gakondo wifashishwa mu kuvura indwara nyinshi za Kinyarwanda zigiye zitandukanye.

Imiti gakondo ikorwa mu byatsi hanyuma bakayishyira mu dukarito tugiye dutandukanye, aho iba igeze ku isoko yatangira gukoreshwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye, cyane cyane harimo indwara nk'ibicurane, amarozi, ndetse n'inkorora.

Icyatsi k'ikimera gifite indabyo zisa umuhondo kikaba ari kiza cyane, iki cyatsi gitunganywamo imiti gakondo yifashishwa mu kuvura indwara nyinshi cyane ziba zigiye zitandukanye.

Udukangara turimo imiti myinshi, igiye itandukanye yifashishwa mu buvuzi bwa gakondo. Hari n'ibyatsi bifite amababi. Hari kandi agasekoro k'umweru ko gusekoreramo iyo miti bayivanga.

Uducupa tugiye dutandukanye turi mu mabara y'umweru, umutuku ndetse n'icyatsi, tukaba turimo imiti yifashishwa mu buvuzi gakondo, hariho tubiri muri two dushushanyijeho igikakarubamba.

Icyatsi cy'ikimera bateye ahantu runaka, iki cyatsi ntukakibone ngo ugihungabanye kuko iyo gikuze kivamo umuti wifashishwa mu buvuzi bwa gakondo.

Ahantu hari imiti myinshi igiye itandukanye, hari n'agasekururo gafite n'umuhini wako basekuriramo iyo miti bari kuyivanga, iyo miti iri mu mabara menshi aho yiganjemo: icyatsi umweru, umutuku ndetse n'ibara rya shokora.

Icyatsi cy'ikimera gifite indabo nziza cyane z'umuhondo, aho gisarurwa kikajyanwa mu nganda kigatunganywamo umuti wifashishwa mu kuvura indwara za Kinyarwanda.

Agasekuro gakozwe mu biti, kagufi cyane, kakaba kari ahantu hari imbehe iriho ibimera bifite amabara y'umuhondo ndetse n'icyatsi, kakaba karimo ibimera bagiye gusekura ngo babitunganyemo umuti gakondo.

Utubido tugera muri twinshi cyane turi mu mabara y'umweru, kamwe kari hanze utundi turi mu gikarito, ako kari hanze kakaba ari ako kwifashisha bari kwamamaza, gashushanyijeho igikakarubamba.

Imiti gakondo yifashishwa mu kuvura indwara nyinshi cyane zigiye zitandukanye, aho iri mu ducupa turi mu mabara y'umuhondo, umweru ndetse hashushanyijeho n'ibikakarubamba, hirya hari andi mababi menshi agiye atandukanye.

Amaboko y'abantu babiri batandukanye ariko b'abazungu, kumwe gufashe uburoso mu ntoki, akandi k'uwundi gafashe umuti w'amenyo uri mu gacupa ari kuwusuka kuri ubwo buroso, uwo muti ushushanyijeho igikakarubamba.

Agakarito gakikijwe n'uducupa tubiri ducuritse twanditseho amagambo ngo "Aloe body", bigaragaza ko uyu muti wifashishwa mu kuvura uruhu rw'umuntu.

Agacupa karimo umuti wa shampo, aho uwo muti wifashishwa mu kugirira isuku umusatsi kugira ngo umeze neza, inyuma yako harasa umukara wijimye.

Icyatsi cy'umusave cyameze mu gisambu uko bigaragara iyo kimaze gukura baragifata bakagitunganyamo umuti wifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye by'umwihariko indwara za kinyarwanda.

Iki ni igisambu kirimo abantu benshi baje gushaka iyi miti yifashishwa mu buvuzi bwa gakondo, iyi izwi ku izina nka geraniyumu.

Icyatsi kirandanda hasi ku butaka, gifite amababi meza cyane y'icyatsi, kigira n'indabyo zisa umutuku mo imbere harimo utubara tw'umweru ndetse n'umuhondo, iki kimera gitunganywamo umuti gakondo wifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye.

Uducupa twinshi cyane turimo imiti isa ibara rya shokora, tukaba dufite imipfundikizo igiye itandukanye, umutuku, umweru ndetse na shokora, kuri utwo ducupa hakaba hariho ibyapa bisa umweru byandikishijweho amagambo y'umukara.

Agasahani kakamuriwemo ironji turabona ko harimo umutobe usa umuhondo, harambitsemo kandi igisate k'ironji, ku ruhande harambitse andi maronji asatuye ndetse n'irindi rimwe ridasatuye hamwe na tangawizi.

Agacupa gasa icyatsi mo imbere, inyuma karasa umweru, bigaragara ko umuti urimo urasa icyatsi, gashushanyijeho igikakarubamba, bigaragaza ko harimo umuti gakondo.

Uducupa tugiye dutandukanye turi ahantu hamwe, turimo imiti yifashishwa mu buvuzi gakondo aho inyuma yatwo hari igitambaro gisa iroze.

Ibumba ni umuti gakondo utazwi na benshi, ariko ukunze kwifashishwa mu kuvura indwara nyinshi zigiye zitandukanye za kinyarwanda yewe n'amarozi rirayavura.

Aha turahabona ibintu byinshi bitandukanye; aho harimo etajeri zirimo ibicuruzwa; hakaba hari ibyatsi; hakaba harimo n'andi mashusho wagirango ngo ni ibitabo biri muri etajeri bitagaragara neza.

Ibyatsi by'ibimera bigiye bitandukanye byifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye, bari kutwereka buri cyatsi cy'ikimera ndetse n'indwara gikunze kuvura.

Aha turahabona agacupa k'umweru gafite umupfundikizo w'umweru; kandikishijeho amagambo y'ubururu; hatseho ngo forever vision; ikigaragara aha harimo umuti uvura ibintu runaka cyangwa ukaba wica udukoko.

Icyatsi cy'ikimera aho gifite amababi agiye atandukanye, iki gikunda kuba kiri ahantu mu gisambu ariko iyo gikuze baragifata bakagitunganyamo imiti yifashishwa mu kurwanya indwara za gakondo.

Uducupa twinshi cyane ndetse n'ibimera bishushanyijeho, igishushanyijeho cyiganje ni ikizwi ku izina ry'igikakarubamba. Igikakarubamba cyifashishwa mu kuvura indwara nyinshi zigiye zitandukanye.

Amafoto agera kuri ane arimo aratwereka ibintu bigiye bitandukanye, hariho ifoto imwe iriho umugabo ufashe ku giti ndetse indi iriho abantu batatu bari mu isambu, indi ibereyeho ibihingwa byinshi.

Umwana ufite itoto ku mubiri, afite agacupa kanditseho ngo lavenda, aka gacupa karimo umuti wifashishwa kugira ngo umuntu agire ubuzima bwiza ndetse n'amagara mazima, agacupa gasa umukara kaba gapfundikiye neza kariho n'ikirango cy'iroza.

Akabito gasa umuhondo kakaba gafite umupfundikizo usa umutuku, handitseho amagambo ari mu ibara ry'umutuku avuga ngo Aloe Vera. Kakaba karimo umuti gakondo wifashishwa mu kuvura indwara zinyuranye.

Agacupa gasa umweru, aho imbere yako gashushanyijeho igikakarubamba, uyu ni umuti wifashishwa mu kuvura indwara nyinshi zigiye zitandukanye cyane cyane indwara za kinyarwanda.

Ibyatsi by'ibimera biri mu mashusho a na b ndetse gatatu hariho ubunyobwa, kane hariho ibitoki bigera muri bitatu, ndetse n'ikindi kimwe baciyemo kabiri. Ibi bikaba bivura indwara za gakondo.

Uducupa turimo imiti igiye itandukanye by'umwihariko imiti ivura indwara za Kinyarwanda. Ni uducupa twinshi cyane ndetse tumwe muri two dushushanyijeho igikakarubamba.

Uducupa tugera muri turindwi tukaba duteretse ahantu hamwe, tubiri muri two turasa icyatsi, akandi kamwe karasa iroza, akandi karasa ubururu, utundi tubiri turasa umweru, twose tukaba turimo imiti yifashishwa mu buvuzi bwa gakondo.

Ibyatsi by'ibimera byinshi bitandukanye, bizwi ku izina ry'amatovu, aho biri ahantu mu gisambu, uko bigaragara ibi ngibi bitunganywamo umuti gakondo uvura indwara zigiye zitandukanye.

Agakarito gasa umweru n'icyatsi, hari n'akandi gacupa kari imbere yaho tugera muri tubiri dusa umuhondo, twose tukaba turimo imiti ya gakondo.

Udusahani twinshi dutandukanye turimo imiti igiye itandukanye yifashishwa mu buvuzi bwa gakondo, hari kandi n'umunzani wa gakondo aho bapima bifashishije amabuye.

Icyapa gisa umweru n'ubururu, hagiye handitseho amagambo menshi cyane ari mu ibara ry'umweru, ayo magambo ni menshi cyane.

Izi ni tungurusumu. Ushobora kuzibona ukibaza uti "Ese tungurusumu zimara iki?" Mu by'ukuri tungurusumu zifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye kuko umuntu wayiriye imurinda indwara nyinshi.

Agacupa gasa ubururu gapfundikiye kakaba kanditseho amagambo mu ibara ry'umweru mu rurimi rw'icyongereza, ariko ubisemuye mu kinyarwanda biravuga ngo umuti w'uruhu.

Amacupa menshi cyane agiye atandukanye aho ari mu mabara y'umweru, umuhondo ndetse n'umukara, aya macupa arimo imiti gakondo yifashishwa mu kuvura indwara za Kinyarwanda.

Iri ni ishyamba aho turi kubonamo ibiti birebire hakaba harimo n'ibyatsi bigufi, ikigaragara ni ahantu nyaburanga baba bagiye gusura kugira ngo batwereke ibyiza byaho.

Ibyatsi by'ibimera biri ahantu mu gisambu, ibi ngibi bizwi ku izina nk'ibicuncu, ibi ngibi biratunganywa rikavanwamo imiti gakondo yifashishwa mu kuvura indwara nyinshi zigiye zitandukanye za kinyarwanda.

Icyatsi cy'ikimera tumenyereye hano mu Rwanda, kizwi ku izina ry'ikibonobono, kikaba gifite amababi agiye asataguye, kivura indwara za kinyarwanda zitandukanye.

Uducupa turimo imiti gakondo wakwifashisha igihe cyose waba ufite uburwayi bw'umugongo. Uburwayi bushobora kuba buterwa no kudakora imyitozo ngororamubiri. Ni byiza ko ugana abavuzi gakondo, bakakwitaho, maze ugakira.

Uducupa tubiri, kamwe kararambaraye gasa umweru gafite umupfundikizo w'ubururu. Akandi kari hejuru ni agacupa karekare gasa ubururu, kakaba kanditseho amagambo mu rurimi rw'Icyongereza uyashyize mu Kinyarwanda avuga ko ari umuti cyangwa amavuta y'uruhu.

Igiti cy'umusave giteye ahantu mu gisambu aho gisasiwe n'ibyatsi byinshi, iki giti iyo gikuze kirasarurwa amababi ya cyo akajyanwa mu nganda zabugenewe hanyuma bakayatunganyamo umuti wifashishwa mu kuvura indwara za Kinyarwanda.

Ikigo cy'Igihugu cy'u Rwanda cyita ku bijyanye n'imirire ndetse no kurwanya ibiyobyabwenge Rwanda FDA, hakaba hari n'ikirango kibigaragaza.

Udukombe tubiri turimo ibyatsi ndetse n'amazi, ibi byatsi bikaba bigiye gusekurwa maze bikavanwamo umuti wifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye, by'umwihariko indwara za Kinyarwanda.

Uducupa tubiri turimo umuti usa umuhondo, hari n'agasekuru k'umweru karimo umuhini bashyizemo ibyatsi, ibyo byatsi bakaba bagiye kubisekuriramo ngo babitunganye bivemo umuti wa gakondo.

Uducupa dutatu duteretse ku tuntu twa mpande enye zitandukanye, utwo ducupa turasa umweru, turimo imiti gakondo yifashishwa mu kuvura indwara za gihanga.

Icyatsi cy'ikimera gifite amababi agiye atandukanye, iki kizwi ku izina ry'urumogi, iki ngiki kivura indwara nyinshi zigiye zitandukanye ariko mu Rwanda ntabwo byemewe kugikoresha kuko cyangiza ubwonko.

Mu gisambu harimo ibyatsi byinshi bigiye bitandukanye bigufi ariko hakaba harimo n'igiti kirekire cyitwa umunazi. Kikaba gifite utubabi dutoya. Cyera imbuto. Izo mbuto ziraribwa ndetse zikavamo n'umuti.

Icyatsi k'ikimera gifite amababi agiye atandukanye, ariko buri babi rikaba riba riri ukwaryo, iki ngiki kifashishwa mu buvuzi gakondo, aho kivura indwara nyinshi ziba zigiye zitandukanye za kinyarwanda.

Ibi ni ibimera bifite amabara y'icyatsi, bifite amababi menshi agiye atandukanye, ibi ngibi byifashishwa mu buvuzi gakondo, aho bivura indwara nyinshi za kinyarwanda.

Agakarito gashushanyijeho amagambo ari mu ibara ry'umukara. Hariho kandi n'ibara ry'umutuku. Hakaba hashushanyijeho mu ibara ry'umutuku ko gapima mirigarama mirongo itanu cyangwa se magana atanu.

Imbuto zigiye zitandukanye, harimo imineke ndetse n'inanasi, hari indabyo nziza cyane z'umuhondo ndetse hari n'udukarito turi mu mabara agiye atandukanye, ibi byose bikaba bivura indwara zigiye zitandukanye.

Umuganga w'umugore aho afite akantu mu ntoki. Afite agacupa gafite imipfundikizo isa umutuku ndetse akaba yambaye itaburiya. Ari gusuzuma ngo arebe ko uyu muti ukora neza.

Ibi byatsi tubona aha ngaha bivamo umuti gakondo mwiza, iyo ubifashe ukabisekura, ugafata utwatsi tuvuyemo ukatwanika, ndetse n'amazi yabyo bitanga umuti wifashishwa mu kuvura indwara za kinyarwanda.

Iki cyatsi kirandarana gutya, kivamo umuti gakondo wifashishwa mu kuvura indwara nyinshi za Kinyarwanda, aho aya mababi yacyo bayasoroma bakayajyana bakayakoresha, barayasekura bakaba bavanamo umuti w'ifu cyangwa se bakifashisha amazi avuye muri aya mababi.

Ibimera by'byatsi bifite amababi y'icyatsi biteye ahantu mu murima ibi bimera iyo bikuze barabifata bakabitunganya bikavamo umuti gakondo wifashishwa mu kuvura indwara za kinyarwanda.

Ibyatsi by'ibimera bifite amababi meza agiye atandukanye byameze ahantu mu gisambu, bikaba bifite amababi atunganywa akavamo imiti gakondo ivura indwara zinyuranye.

Udukoresho twifashishwa mu kugirira isuku amenyo tuzwi nk'uburoso turambitse ahantu mu kavaze gasa umweru n'umukara, hirya hari agacupa gashushanyijeho igikarubamba, bigaragara ko kivamo umuti usukura amenyo.

Udukarito tugera muri dutatu turi mu mabara asa umweru, umutuku ndetse n'umuhondo, twanditseho amagambo ari mu ibara ry'ubururu, mo imbere hakaba harimo imiti myinshi yifashishwa mu kuvura indwara za gakondo.

Utu ni uducupa cyangwa se utuvido turimo umuti gakondo wifashishwa mu kuvura indwara za kinyarwanda, ni dutatu kamwe gasa umuhondo akandi umweru wijimye akandi kakaba gasa umweruru werurutse twose twanditseho amabwiriza hirya hari ibintu by'icyatsi wagira ngo ni ibikakarubamba.

Ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa bya gakondo. Abantu bakora umwuga w'ubupfumu ibi bikoresho baba babifite. Harimo ibicuma, ibyungo, uducupa ndetse n'impinga.

Abantu benshi cyane bagera muri barindwi, bari kugenda ahantu mu ishyamba, uko bigaragara bagiye mu bukerarugendo, imbere hari umugezi uri kuzana amazi menshi cyane, iri shyamba kandi ririmo imiti gakondo yifashishwa mu kuvura indwara za Kinyarwanda.